Abantu bahuriye mu nzu y'inama ni benshi, ku murongo w'imbere hari abantu banyuranye bageze kuri batanu. Imashini irimo kwerekeza amashusho ku gikuta ariko aya mashusho arerekana ko ari abantu kandi ku mpande z'abo n'amazina y'abo arahanditse.

Imisozi yarahangaye, ibyatsi byo ku gasozi byarumye, yewe n'ibiti bitangiye kuma, binavuga yuko amazi ntabwo wayabona hafi aha, uyu mubyeyi w'umugore rero avuye kuvoma, niyo mpamvu yanze kwituma amaja, afite ikivomesho kinini yikoreye n'akandi gato atengase.

Umuco wo gukaraba tugiye kurya ni ingirakamaro. Amabwiriza yo guha abana bacu amafunguro ariko babanje koza ibiganza byabo, atuma birinda za ndwara z'ibyorezo n'izindi zose umuntu ashobora kwirinda akoresheje amazi n'isabune.

Umugabo wambaye ijakete y'ubururu, ndavuga ya majaketi y'imishinga atagira amaboko maremare. Yinjiye mu rugo rurimwo abagabo babiri ndetse n'utwana tugeze kuri dutanu. Hari n'abandi babiri bari inyuma y'umugongo wabo. Arabereka amashusho cyangwa se ibyo basoma kuri kompiyuta, bitari kutugaragarira ngo dusobanure ibyo ari byo.

Umugore ukiri muto uteze agatambaro k'igitare, wambaye umupira w'igitare n'ipantaro y'umukara, ari kumwe n'abakozi bo kwa muganga babiri, afite akana k'uruhinja aje kugakingiza, aherekejwe n'akana kandi gatoya gafite nk'imyaka icumi.

Abaforomo ba Mayange basuwe, si ukubyina bivuyeyo baratawe yewe n'umushyitsi wabo bigaragara ko ari umuzungu ari imbere yabo ari gukoma amashyi, ni umunsi mukuru rwose udakwiye kwibagirana, uyu mushyitsi ni imena mu nzu yabo.

Umugabo muremure bigaragara ko akiri mutoya munini, yakunje amaboko y'ishati ye mu nkokora. Ahagaze imbere y'abagore bari kwa muganga arambuye akaboko. Bivuga yuko ari kubabaza inzira imuganisha aho yifuza kujya.

Umurwayi w'indembe yitabwaho n'abaganga kurusha abandi barwayi bose, aba ari ngombwa ko bakora ibishoboka kugira ngo babashe kurengera ubuzima bwe buba bugeze mu kaga, kenshi na kenshi iyo abaganga babaye hafi y'uwo murwayi bafatanyije n'Imana aroroherwa.

Inama zerekeranye n'ubuzima ntabwo zikorerwa mu bigo nderabuzima gusa, zirazamuka mu nzego zose zinyuranye, kugeza kuri za minisiteri, ndetse hari n'igihe zihuza ibihugu, turabona neza ko abayobozi b'ibihugu mu rwego rwo hejuru nabo iyo bahuye bashobora kuganira ku bibazo by'ubuzima.

Ivomero rusange rifite amazi menshi umuntu ateze ibiganza amazi ari kududubiza nawa ari bukaraba, ayo mazi urabona ko ari urubogobogo, iryo riba rikikijwe n'ibibeto bya sima bikomeye.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri, wambaye ipantaro itukura n'inkweto za purasitiki z'ubururu, ari kunywera amazi mu ntoki, ayateze kuri robine iri ku ivomero rusange; andi mazi asagutse ari kugwa mu ndobo y'icyuma.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere yakandagira ukarabe ari gukaraba, iwe biragaragara yuko yahageze. Ese yaba avuye kuri tuwalete cyangwa aritegura kugira ngo nagera mu rugo ahite arya?

Ku ivomero rusange hahurira abantu banyuranye: abagore, abagabo n'abana ariko ugezweho afata ijerekani ye akayijyana kuri robine, undi umukurikiye akamufasha gupomba kugira ngo amazi yinjire muri ya jerekani ye. Bagenda basimburanwa gutyo bakurikije uko bakuriranye.

Umwana w'umunyeshuri wambaye agakabutura k'ubururu n'ishati y'umuhondo, afite ibirahure bibiri. Byuzuye amazi. Abivomeyemo amazi akuye mu kizenga ari iruhande rwacyo. Haruguru y'icyo kizenga ku kagunguzi, hahagaze abandi bana ureba ko bari kurebera, ariko bo nta iniforume bambaye.

Turi mu muryango, umwana mukuru ari gukaraba intoki n'isabune, amazi ari kuyakura mu kadobo, ni mushiki we mutoya w'imyaka nk'itanu uri kumusukira kugirango arusheho kugira isuku ku ntoki ze.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka umunani, ari kuvomera mu ndobo y'umuhondo, ahagaragara ko hari ivomero rusange. Ashatse kwikorera iyo ndobo iramunanira, arimo gusaba ubufasha umugabo wambaye imyenda y'ubururu na we kandi urabona asa nkaho amwumva neza, agiye kumufasha.

Abaganga bari kumwe n'abandi bakozi, bari inyuma y'igitambaro kigali cyanditseho Nyabageni mass screening, ni ukuvuga yuko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kwa muganga abaforomo n'abaganga bambara imyenda itandukanye. Usanga bamwe bambaye imyenda y'igitare abandi bambaye iy'ubururu ndetse ubirebeye hafi hari n'abandi bagira andi mabara adasa nk'ay'igitare cyangwa ubururu cyane cyane bariya bakora mu bijyanye n'isuku.

Ni umuntu mukuru uri gusukira umwana ufite isabune mu ntoki, yifashishije ijage irimo amazi, umwana yambaye agapira k'ubururu gatambitsemo amabara y'umukara kandi afite nk'imyaka igeze kuri itanu.

Itariki ebyiri kugeza ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe, muri bibiri na gatatu, habaye inama nkuru y'igihugu yiga kandi itekereza mu buryo bwo kongera amafaranga mu bikorwa bijyanye no gushyigikira ubuzima, iyo nama yaritabiriwe.

Inama zireba umuryango ntizireba umugore gusa, niyo mpamvu ari byiza ko iyo umugore aje kwa muganga kwisuzumisha ari nabyo twita kwipimisha cyane cyane iyo atwite, kenshi azaherekejwe n'umugabo we, uru ni urugero rwiza washima uhereye ku ifoto ndeba hafi yanjye.

Umujyanama w'ubuzima afite uruhare runini mu kubungabunga amagara yacu. Ni yo mpamvu ariko abagore kubw'umwihariko usanga bamuteze amatwi. Mugenzi wabo yambaye ishati n'igitenge cy'iroza. Abandi basigaye baramureba mu maso kandi bateze amatwi ibyo ari kubabwira.

Muganga afite igipapuro kinini kiriho amashusho abiri y'umwana. Umwe ni umukobwa, undi ni umuhungu. Hari umugore ushyize amaboko inyuma mu mugongo, arimo kureba icyo gishushanyo yitonze kandi ashishoza. Muganga arimo kumusobanurira ibijyanye n'uburere bw'abana.

Ikirango cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima kigizwe n'amashami abiri y'umuzeti, hagati hashinzweko inkoni kandi kuri iyo nkoni hizungurukijeho inzoka, hagati kandi muri icyo kirango nanone uhabona imigabane yose igize Isi.

Abaganga bari gusubira mu mafishi bakiriye bari kuyahuza n'amazina bafite mu gitabo kinini cya lojisitire, bose uko ari batatu bahuriye muri ako kazi ariko buri wese afite igitabo cye kinini cyane arimo kureberamo abakiriya n'abandi barwayi bamusanze.

Tayikondo ni iriba rusange bavoma babanje gupompa. Hari abana batatu n'umugore umwe. Hari utubido dutatu n'igikarayi. Iryo riba riri ahantu ubona yuko hari icyeragati kubera yuko nta yandi mazu wabona.

Ahandi amazi bayaha agaciro kenshi cyane, utekereze ko umuntu ashobora kuvoma yirinda ko amazi yangirika ku buryo ikivomesho cye agitereka mu ibase kugira ngo aciye ku ruhande na yo agume muri iyo base yo gupfa ubusa, uyu mukobwa aravoma anezerewe cyane.

Ababyeyi benshi baje gukingiza abana, bicaye ku ntebe y'urubaho inyuma y'urukuta rw'amabuye, umuganga ari mu rundi ruhande nubwo atagaragara ariko abahari bose bashishikajwe no kumva yuko mu kanya bari bukurikireho, ni igikorwa cy'ingenzi rero kibategereje.

Icyumba cy'inama cyahuriwemo n'abantu benshi, harimo abazungu n'abirabura, ubariye ku ntoki wavuga yuko bageze nibura no mu ijana, kandi hirya ku rukuta hari ahantu barimo kwerekana amashusho ku gitambaro cy'igitare.

Ni umunsi mukuru bigaragara ko watumiwemo abana bo ku irerero, kubera yuko buri wese muri abo bana yambaye uniforme, hari n'abandi bakozi bahaje barimo kubaha amata mu nkongoro na bo bambaye uniforme. Biragaragara ko abandi bari inyuma na bo ari abitabiriye ibyo birori byo kwizihiza kugaburira abana mu irerero.

Uru rupapuro rukubiyeho imiryango y'ingenzi iboneka mu bikorwa by'ubutabazi. Nushaka uhere kuri Unicef ugeze kuri Croix rouge na Croissant rouge ndetse ujye no ku muryango w'Abibumbye wita ku mpunzi.

Inyenyeri irasiye mu ibara ry'umuhondo, iruhande rwayo hari ishusho ry'umwijima bihita binyibutsa ko ari ikirango cya world vision. Ishushanyije neza birakwereka rwose ko hari icyizere gishya kivutse inyuma y'umwijima kwa muganga ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'amajyambere, wold vision ibigiramo uruhare rushimishije.

Gukaraba intoki ni umuco umaze gukwira hose, ibi ni ibiganza by'umwana biri gukaraba imbere ya robine amazi arimo kuza abengerana, ni amazi meza, bishoboke ko agiye gukaraba intoki yarangiza noneho akanayanywaho.

Umwana muto w'umukobwa ateze igikombe kuri robine, indi robine irimo gusuka amazi ariko ashobore kuba ari kugwa mu ndobo. Umwana anejejwe no kubona amazi arimo kwizana mu gikombe, ni nk'aho yishimiye ko agiye kuyanywa kubera inyota yari afite.

Umugore uhagaze imbere y'umuryango w'inzu ye ahagaze kuri kandagira ukarabe, iriho akabido gatoya karimo amazi ateza ibiganza amazi ari kuza agakaraba, inzu ye ifite urukuta ruteye kabarasasi.

Bari mu nama, ntawamenya niba ari semineri, inzu barimo biragaragara ko ari inzu igaye ifite amadirishya magari, intebe zirimo ni ubururu, ku meza y'abantu bari mu nama urahabona ibikapu, hari intebe imwe idafite umuntu uyicayeho.

Intebe zikoze ku buryo bwihariye ku buryo amaguru ubwayo ubona afite uburyo aseguye. Usibye ko umurwayi ashobora kuzicaraho, ashobora no kwegama ariko urutirigongo rwe rukaba rushyizwe ku musego urutangira, kandi umufasha kuruhuka. Akaba yagira n'aho ashyira ijosi akiseguza.

Nabanje kugira ubwoba ngira ngo ni umugizi wa nabi ufatiranye uyu musaza n'umwuzukuru we mu nzira agiye kubatera inkota, nshishoje nsanga ni umuganga ushyize ukuboko ku rutugu rw'uyu musaza agira ngo agire ibyo amusobanuza amuvure.

Umubyeyi ageze kwa muganga ahetse umwana ariko uwo acukije nawe yamuzanye ni we yaje kuvuza, umuforomokazi yashyize icyumvirizo ku mutima we ngo yumve uko umutima utera, urabona yuko umwana nta bwoba afite kandi muganga koko amwitayeho.

Biragaragara ko hano hari kwa muganga, ni abaforomokazi n'abaforomo basuwe n'umuganga umwe w'umuzungu wambaye ikanzu itukura, bivuga y'uko ni umwe mubo bari bategere kandi ni umushyitsi wabo bari kwerekana, ikindi kandi ni uko hari ifoto y'urwibutso bari gufata imbere y'umuryango w'aho bakorera.

Ni abagore bahuye bari kubyina bashayaya baranezerewe, amaboko bayateze kandi nta n'umwe wasigaye ubona yuko atitabiriye uwo mushayayo, baranezerewe n'ibyo kwishimirwa ni byiza muri urwo rugo basuye.

Ikusanyirizo ry'amazi ryubakiye ahantu hitaruye inyubako hakurya iruhande rw'iburyo urahabona utuzu dutoya, ugiye iruhande rw'ibumoso hari ikizenga cy'amazi kirazitiye kugira ngo hatagira umuntu uzarigwamo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ageze kwa muganga, abaganga bahita bazamura ukuboko kw'iburyo, bazamura ku kizigira, bari kumutera urushinge. Bigaragara yuko yaje kwikingiza.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugira uruhare mu buzima bw'abakobwa, uyu mugabo ari kumwe na mugenzi we w'umugore nubwo batambaye imyenda ifite amabara hamwe bakora hamwe ariko, bari gutegura ibitambaro by'isuku bigomba guhabwa abana bato b'abakobwa..

Ku mugezi busange hahuriye abana bato b'abanyeshuri, izuba ni ryinshi bavuye mu ishuri baragira ngo banywe amazi, bari guhera ku murongo ubashije gukaraba ibiganza ahita anywa kandi uko bakurikiranye ntabwo bari busigane nk'uko bazanye.

Mu rubisikaniro rwo kwa muganga, abenshi bakunze kwita muri koridoro, usanga ariho abarwayi baba bicaye, bakurikirana bakurikije uko bazindutse, uwaje mbere akaba ari we ubanza, rimwe na rimwe ariko hari igihe bahera k'urembye cyane.

Iri vomero rusange rihuriweho n'abantu benshi, risaba ko igihe hari umuntu urivoma undi aba ari ku ipombo agenda azamura amanura kugirango amazi ave ikuzimu. Iruhande kandi hari abandi bantu baba bishoboke ko uvoma aravoma ariko na none hakaba undi muntu umufasha akagenda basimburana gutyo gutyo.

Muganga ari gukingira umugore ku rutugu, agashinge kariye umugore urabona ari gushinyiririza kandi bose bapfutse iminwa, byemeza yuko harimo cya gihe cya Kovide aho buri wese yagomba guterwa doze y'urukingo rwa Kovide.

Ahantu haragaragara nk'ibikorwaremezo byari bigenewe kubikwamo amazi, noneho abantu bakaza kuhogera ibyo twita "Natation" mu gifaransa ariko rero mu bwogero amazi yarakamye biragaragara rwose ko igisigaye ari inyubako zigaragaza amasima yonyine.

Ni abakozi bari imbere y'ibiro byabo, bigaragare ko bari kumwe n'abayobozi babo baje kwerekana amafoto agize itsinda ryabo, harimo abagabo batatu n'abagore bageze kuri bane, barimwo kwerekana aho bakorera bigaragara ko ibyo barimo byose dukurikije ikimenyetso cy'umusaraba bafite umwe afite muri bo bakora mu bintu byerekeranye n'ubuzima.

Inama y'abafatanyabikorwa y'ibikorwa by'ubuzima muri Afurika yabereye i Kigali, imbere hari abantu batatu bayoboye inama, harimwo abazungu n'abirabura.

Guha umwana umuti uri umwe biravunanye cyane. Ni yo mpamvu bishobora gutuma uwo muti wangirika, ukameneka, ugaca inyuma y'umunwa. Umuntu wa kabiri ni ngombwa kugira ngo agufashe gufata ku tuzuru, umwana noneho yasamye wa muti umujye mu kanwa.

Amazi ubusanzwe ni ingirakamaro, ariko usanga abakobwa n'abana batoya aribo bitabira icyo gikorwa kugira ngo abashe kugera mu muryango, iri ivomero ni ivomero rusange, abantu bose bahuriraho biragaragara ko uyu mwana w'umwangavu ashimishijwe no kuba amazi yaramwegereye.

Imbere y'icyumba cy'amahugurwa. Abantu batarenga makumyabiri na batanu barimo abagabo n'abagore bifotoje. Ku murongo w'imbere baricaye abandi bari ku murongo w'inyuma barahagaze. Binavugwa kuriya yuko abari imbere bashobora ahubwo ko aribo barebare cyane. Bicaye rero kugira ngo badakingiriza bagenzi babo. Nguko uko ifoto y'urwibutso akenshi ifatwa.

Muri iri huriro ry'abantu benshi harimo abaganga, abazungu n'abandi bantu b'ingeri nyinshi. Umubyeyi afite umwana amushyize ku meza, birasa nkaho bari kumupima. Umwana nta mpungenge, afite arimo kumwenyura ari nacyo gituma abari aho bishimye bamukomera amashyi.

Ntiwasobanukirwa neza niba ari umwana cyangwa se niba ari umusore. Aje afite inyota, ateze urushyi amazi ari gusohoka mu ivomero ry'iriba rusange, ni robine iri aho ngaho. Ku mazuru ye no ku munwa hari ibintu bimeze nk'ururenda cyangwa se ibimyira. Ushobora gukeka ko afite ihungabana riri ku rwego rwo hejuru.

Jacqueline aragira ati "Ni ngombwa ko dusohoka aho turi tukajya kureba uko abandi bakora ibintu, tukazirikana ibyo baturusha tukabigana kugira ngo buri wese agire uburenganzira ku buzima na serivisi zitangwa mu rwego rw'ubuzima."

Urubyiruko rurimo abakobwa n'abahungu, bose uko bangana ni batanu, bambaye udupira tw'ubururu, bambaye n' ingofero zisa z'igitare, bashyize hejuru ukuboko kw'iburyo berekana igipfunsi, kuri utwo dupira handitseho gukora neza.

Ntibishoboka ko wajya ku ivomero ngo uhasange abantu bambaye ibintu bisa, usange kandi n'ibyo bavomesha bisa, ari abakobwa, ari abahungu, nyine urebye abo bana bambaye imyenda yose y'ibara rimwe ya kacyi, nta handi wabakekera usibye kuvuga ko hano ari mu kigo cy'ishuri.

Abana bato na bo bajya ku munzani kugira ngo uko iminsi yigira iri imbere n'uko amezi agenda yicuma, usobanukirwe n'imikurire yabo noneho bigatuma umujyanama w'ubuzima arushaho gutanga ubufasha bwerekana neza icyatuma umwana atagwingira.

Kuri iyi mbonerahamwe y'iki gitabo gitangwaho umusogongero na dr sabe nsabimana aravuga ko buri mwaka mu rwanda abantu magana atandatu bandura cyangwa bahitanwa n'indwara ya kanseri y'umura nta wundi ari kuvuga nta bandi ari kuvuga ni abagore b'abanyarwanda.

Ndashimira abaganga umurava bahorana wo kwita ku muntu ugeze aho bari. Aba baganga bombi urabona bari gukora uko bashoboye kose kugira ngo bafashe uyu mubyeyi utwite. Uriya mugabo yashyize icyumvirizo ku gutwi akirambika no ku nda y'umugore. Wagira ngo ateze amatwi uruhinja ruri mu nda. Ni byiza ko rwose uyu mubyeyi abyara afashijwe n'aba bantu.

Umwana w'umukobwa ufite ikigero cy'imyaka icumi wambaye umupira utukura n'ijipo y'ubururu, ari ku ivomero rusange ari wenyine. Amazi aradudubiza ateze igikombe cy'icyuma, aramwenyura yishimiye ko agiye kuyanywa.

Usibye ko kuvoma amazi ukoresheje ipompe ari umurimo uvunannye, ariko ubirebeye hafi bishobora kuba ari n'uburyo bwatuma ubikora akorera siporo ku gihe ibyo twita gutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri, ndebera ukuntu abana bari kureba uwo mubyeyi uri kubafasha kuvoma kubera ko batabasha gupompa.

Uyu mubyeyi ahetse umwana, ari kumwe n'abandi bana batoya bishoboka yuko yahuye nabo mu ishuri, cyangwa ahandi hantu urubyiruko rwitabira guhurira, ni byiza cyane.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana mutoya ari kwa muganga. Muganga afite agacupa karimo urukingo rwa rundi banyuza mu kanwa. Buri gihe iyo umubyeyi abona muganga yitaye ku mwana we arimo kumukingira, nta kabuza usanga bimunejeje, bikerekanwa nuko'uko ari kumwenyura.

Twemeza ko abantu bita ku buzima bwacu n'amagara yacu ari abaganga, ariko urebye abari mu nzira bose bajya guhaha ibyo turya, abacuruzi, abamamyi, abashoferi, amakamyo ajya kubitunda, abo bose bahagaze bemye mu kurengera ubuzima, n'amagara ya buri wese, ni nde se wabaho atarya? Ese si bo bajya gushaka ibyo turya?

Iyi foto y'urwibutso irimo abantu benshi. Abagabo n'abagore. Biragaragara ko abaganga aribo benshi cyane uhereye ku mataburiya yabo y'ibara ry'igitare. Abandi bantu barimo batambaye amataburiya bambaye imyenda ijya kuba ubururu.

Ngiye kuvuga ko hano ari ku munsi w'umuganda, wahuje abayobozi n'abayoborwa harimo n'abahagarariye ingabo, bari kubaka akarima k'igikoni, bivuga yuko rero kwegera abaturage ukabereka ibifite akamaro, batera imboga mu turima dutoya turi hafi y'ingo zabo bisigasira ubuzima bwacu.

Uyu muntu twakomeje kumubona inshuro nyinshi. Yambaye umupira usa nk'aho ari iniforme kuko n'abana umupira bambaye ufite amabara nk'ayo uwo mupira ufite. Ni umukozi w'ikigo nderabuzima urimo guha abana inyongeramubiri z'ibiryo byubaka umubiri.

Ni ngombwa ko umuco wo kurya tubanje gukaraba intoki ukwira mu muryango wacu, abana bacu ntabwo bazabigeraho batabanje kubona twebwe ubwacu bakuru tubikora, nitubikora bazatwigana kandi bazabikora bishimye, bizabarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Mu cyumba kigari gisize irangi ry'igitare cyagenewe kwacyira abantu benshi, harimo umuganga, ubibwirwa n'uko yambaye itaburiya, abandi bantu benshi baramukikije, bigaragaza yuko ari abaje kwa muganga kwa kundi babikora mbere y'uko batangira kuvura, barabanza bakabigisha, bakabaha ubujyanama bw'ingenzi.

Abahungu bane n'umukobwa umwe bari kwa muganga imbere y'imiti bajya baha abarwayi. Bafite utuntu turi mu ijosi twerekana amakarite y'uko ari abakozi b'aho kwa muganga. Ni umuhungu umwe wambaye amarinete y'ubururu, naho abandi bose basigaye nta marinete bafite.

Imbere y'inyuguti nini zometse ku rukuta zivuga aya magambo sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye, hicaye umuforomokazi n'umugabo. Umugabo arasa nkaho areba mu gitabo yandikamo, noneho umuforomokazi na we akandika ibyo ari kumubwira.

Abanyeshuri bane b'abakobwa n'abandi babiri b'abahungu bari ku mugezi w'ishuri, urabibwirwa nuko bambaye imyenda y'ishuri. Bafite igipira kinini cya pulatiki gifite rubine, bari kudaha amazi kandi buri wese afite igikombe ari kunyweraho.

Abana b'abahungu bafite icyiciro cy'imyaka kuva kuri irindwi kugeza kuri cumi n'umwe, bari kumwe n'umukobwa w'umusirimu ubona ko ari inzobe, yambaye agapira k'igitare, ipantaro y'umukara, inkweto zisa nka supurese ari kubafasha gupompa amazi. Hirya gatoya muri metero mirongo itatu, hari imodoka ya tutere y'itoyota.

Ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga, ikigero cy'abo bana urabona yuko batarengeje imyaka ibiri, hari utwaye umwana ku rutugu, hari n'undi umuhetse. Umubyeyi umwe wicaye ari kuzuza ifishi, kandi abandi baramutegereje na bo ngo bakurikireho.

Kuri raporo y'umwaka w'ibihumbi makumyabiri na makumyabiri na kane wolrd vision muri raporo yawo kugifuniko hashushanyijeho umwana uvuye gusoroma imboga ari kumwe n'umubyeyi we uri mu murima, hejuru yabo handitseho world vision hariho n'ikirango cyabo.

Abaje mu nama bahuriye mu cyumba ariko bigaragare ko bari benshi. Umuntu uyobora inama ari hagati agenda avuga kugira ngo abashe kugera n'aho abari kure bashobora kumwumva. Hagati kandi muri korodoro z'umuryango ku muryango nyirizina, hari za fiche zerekana amashusho y'ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka cumi numwe wambaye agashati k'icyatsi n'ipantaro ariko yakunjiye mu mavi hari mugezi twita ivomero rusange hirya ye hari indobo bishoboke ko yamaze kuzuzamo amazi ariko kuri iyo mbuga ibyatsi bigaragara yuko byumye cyangwa babikandagiye biragaragara na none ko ntabantu batuye hafi aho kuko nta nzu uhabona.

Amazi kuva hambere no mu myaka ibanziriza iyo twaba tuzi ya kera cyane yabaye imboneka rimwe, ariko abantu bakajya kuyashakira kure, iyo umwana ahindutse rero afite ayo mazi usanga n'umugabo ise umubyara amwenyura, aricyo kikwemeza ko amazi koko ari ingirakamaro, mu buzima bwa buri wese, no mu muryango w'umuntu.

Byanze bikunze hano ndabona abayete b'abaporomo ndetse n'abajyanama ndetse n'abayobozi baje mu munsi mukuru bari gufata ifoto y'urwibutso imbere yo kwa muganga

Kwa muganga ni ingirakamaro rwose, ntawe ubijijinganyaho. Iyo amagara yaduteye hejuru, twese niho twirukira, ariko iyo duhirukiye turi benshi, bivamo n’izindi ngorane, nko kuba unaniwe, amagara yawe ntayo, ugategereza amasaha menshi. Nawe ndebera uwo murongo ukuntu ureshya.

Abana bane bari mu kigero kimwe bari gukaraba umuntu mukuru wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu ndetse yambaye na bote arimo kubasukira amazi bateza ibiganza hejuru yibase kugirango amazi bamaze gukaraba amanukiremo utwo twana turi guseka turanezerewe bagirango twiteguye kujya kurya.

Umuforomokazi wambaye itaburiya hejuru yishaketi ifite ingofero kandi uteze igitambaro. Ari kumwe n'umugore w'inzobe wambaye igitenge kandi witeye akenda gatukura, uwo mugore akurikiwe n'abandi babiri nabo bambaye imyenda y'ibitenge. Yahisemo kubavurira mu busitani hafi y'aho ivuriro riri.

Dufite abaforomokazi babiri, bombi bambaye amataburiya agera ku birenge y'ubururu. Umuforomokazi umwe ari kureba umurwayi we mu kanwa yibanda kugira ngo amenye uko amenyo ye ateye. Undi muforomokazi na we ari kureba undi murwayi uko na we mu kanwa hameze.

Aba babyeyi baje mu kigo mbonezamirire, buri mubyeyi yazanye umwana we, iyi foto si ubwa mbere tuyibonye, umukozi ushinzwe ikigo mbonezamirire, yazanye ibiryo ari gutamika umwana kandi urabona ko rwose binejeje ababyeyi bazanye abana babo.

Kenshi na kenshi abaforomo baba bambaye amataburiya y'igitare, hari n'igihe ariko umurwayi bamwambika itaburiya y'ubururu, abaforomo babiri umwe afite ifishi y'umurwayi undi afite igikoresho arimo kureba ukuboko agira ngo arebe niba nta mvune irimo.

Ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane i Kigali habereye inama yo kurwanya virusi ya Maribage. Mu by'ukuri iyo nama yari ihuriwemo n'abantu banyuranye harimo n'abahagarariye igikorwa mpuzamahanga cyo kuyirwanya.

Ahantu hose mbona abana batoya bari mu kigero kimwe bambaye imyenda isa, bafite ibivomesho bisa kandi bavoma, binyereka ko bashobora kuba ari abanyeshuri, ntabwo mbijijinganyaho rwose, aya mashusho iyo nyabonye mbona ko ari ku kigo cy'amashuri abanza.

Icya georgia global helth alliance kigizwe n'inyuguti zanditswe mu mabara y'ubururu n'andi hari mu ibara ry'ivu ni ukuvuga ajya kuba akagina keruruka. Nanone kandi hari ikindi gishushanyo cyerekana ibishashi by'umuriro ariko by'ubururu bwijimye n'undi ujya kweruruka.

Mu mbuga y'ishuri umwana w'umukobwa ari gukaraba amazi aturuka muri kandagira ukarabe. Yambaye ikanzu y'ikigina n'agapira k'umuhondo, uwo mwana afite hagati y'imyaka nka cumi n'ibiri na cumi n'itandatu.

Umuganga wambaye itaburiya y'igitare akikijwe n'abandi babiri bambaye amataburiya y'ubururu. Abo bambaye ay'ubururu buri wese mu biganza afite akakarito, ariko ntiwamenya niba ari impano cyangwa se ari imiti bafitemo.

Umwana ararwaye cyane, umubyeyi we rwose urabona ko umutima wamuvuyemo, hari abaganga babiri umwe ni umukobwa undi ni umugabo, bitaye kuri uwo mwana barakora uko bashoboye kugira ngo bamushyiremo umugozi umufasha kubona amaraso binyuze muri serumu.

Abagore n'abagabo bahuriye mu mahugurwa. Urabyemezwa nuko bafite ibipapuro binini byandikishije ikaramu ya marikeri barigufatanya kubisoma. K'umwihariko ku ruhande rw'iburyo hari umugabo ufite inda nini cyane ugaragaza igice cy'isura ye.

Ku ivomero rusange hahurira abantu b'ibyiciro byose: abana, urubyiruko ndetse n'abasaza. Bigaragara ko buri wese ajya ku murongo kugira ngo uwaje mbere abe ari we ubanza. Uyu mugezi ni wo bita ko ufite pompe ivana amazi mu kuzimu.

Umukobwa ukiri mutoya, witambye agatambaro mu mutwe nk'abayisiramu, ahuriye ku mugezi n'umugabo ubona ko akuze, bombi bafite amajerekani abiri kandi baravomera icyarimwe. Ntiwamenya niba ari abaturanyi cyangwa se baturutse mu muryango umwe.

Umwana ari ku mugezi amaze kuvoma arimo gukaraba intoki, arimo kureba umuntu uri imbere ye, arimo guseka, biragaragazwa n'uko yamwenyuye, ibyo aribyo byose hirya aho ngaho ntiwavuga yuko nta baturanyi bahari kuko nta nzu zihari.

Abagore babiri bari gutwara umufuka umwe bawufatanyije, kugira ngo bawugeze aho indi irunze, aho iyo ngiyo igeze hafi kuri mirongo ine irunze, hari abandi bantu bageze kuri batanu wabona ko ari bo bari bayihazanye.

Muganga ari gukingira umwana w'umukobwa ku kuboko yazamuye aho umupira uba uri ku kaboko ngo abone urutugu neza ateremo urukingo, Intoki ze zose zambaye ga, ari umukobwa ari n'umuganga ntibagaragaza mu maso he.

Abagore bafite abana bitabiriye inama yateguwe n'abajyanama b'ubuzima, baje bari kumwe n'abana babo kandi baje bakeye. Abajyanama b'ubuzima harimwo abagabo babiri n'umugore umwe, biragaragara neza ko bari kubasobanurira uko bakwiye kwita ku bana babo.

Hari amapopo y'amazi, utayavanamo ayo mazi uri wenyine, biba bisaba y'uko muba babiri kuko gupomba bisaba ingufu nyinshi ugafatanya na mugenzi wawe, binagaragara y'uko kugira ngo amazi adapfa ubusa, undi mugore uri ku ruhande afite urukarayi runini, amazi rero barayarondereza.

Ibikorwaremezo birahenda reka bihende nuko bigomba kuba bikomeye, birimo ibyuma byinshi n'amasima kandi babikora gutyo kugira ngo bimare igihe kirekire. Turebye nk'imihanda tugenda, urebe ibiraro byubakwa, ure ibigega by'amazi, urebe amashuri, urebe sima zigendaho n'ubundi bumenyi bwose buhenze ni gute wahakana ko bikwiye guhenda?

Abana babiri bangana ni umukobwa n'umuhungu bahuriye ku mugezi, bari kuvoma kuri robine ifite amazi menshi cyane bazanye ibivomesho bine by'indobo zose kandi n'igitare.

Umukecuru unanutse cyane, afite umukufi ku ijosi, yambaye amaherena, ateze igitambaro cy'igitare mu mutwe, ariko ku gice cyo hejuru cy'umubiri we nta wundi mwenda yambaye.

Umugabo munini w'inzobe wambaye ikositimu, ari imbere y'indabyo, ari kunamira abitabye Imana mu gihe cya Jenoside. Biragaragara neza ko hano hari ku Gisozi, ahagenewe urwibutso.

Ntawabaza anmenyo y'inkoko areba umunwa, ntihagire umbaza ngo aha ni hehe, soma niba ugira amazi, hari ibyapa bikuyobora, hari n'ikindi kimwe kikubwira ko ari ku bitaro bikuru bya Munini.

Umuryango uraterana, Umudugudu ugaterana, Umujyanama w'Ubuzima akaza akababwira ubutumwa bwiza bubungabunga ubuzima bwa bo. Ni yo mpamvu rero mu cyaro Umujyanama yitwa Umunyabuzima. Aba bantu tureba bateze amatwi Umujyanama ntawabishidikanya.

Tumenyereye kubona umuntu wambaye nabi tukemeza yuko ari umusazi cyangwa ari umukene, uyu muntu tureba, yambaye imyenda itari ku murongo, abantu bakunze kwita inshocero, hirya ye hari abandi basirimu bambaye imyenda ikeye ndetse n'amakoboyi.

Ni abakobwa babiri, umwe wambaye imyenda itukura n'akagofero birasa nk'aho ari umurwaza kuko yifashe ku itama nk'umuntu wihebye, naho uwambaye imyenda yirabura arimo kurambura ukuboko asa nk'aho agorora ikora ry'ishati ye amwitayeho mbega nk'umurwaza

Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera. Uyu ni umutwe w'ikiganiro cyangwa se amahugurwa ari gutangwa mu kigo gishinzwe ubuzima. Biragaragara ko atari abarwayi bahari, ahubwo ni umuganga ubisobanukiwe uri kubibwira asobanurira bagenzi be.

Abakarani b'ibarura bahuriye n'abaturage mu biro bigari cyane, abaturage bari ukwabo abakarani b'ibarura na bo bari ukwabo bahamagara umwe umwe kuri umwe bamubaza ibibazo bitandukanye, babishyira mu kamashini nakwita tablet.

Kuri iki gifuniko cy'igitabo handitseho amagambo ari mu cyongereza ,ariko mureke nibura mbasomere agaragara cyane, muri yo harimo welinesi, mento, helifu, bipolo, jenetike, emoshons, koginitive na angisiyeti, andi magambo ni mato ku buryo utayabona.

Mu cyumba kigari cy'inama hateraniyemo abantu bageze kuri magana abiri, bose batumbiriye amaso imbere, biragaragara ko nubwo hataboneka, hari umuntu ufite ikintu ari kubabwira bateze amatwi bitonze.

Mu icyumba cy'inama, abagore batageze kuri makumyabiri, bashyize intebe bicayeho ku ruziga, hagati harimo itsinda ry'abagore bageze kuri bane, hirya gatoya hari umuntu usa nkaho ari kwigisha bamuteze amatwi.

Umukobwa yicaye wenyine, yegamiye ibyuma bya esikariye, yambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'umukara, afite umukufi ku ijosi, afite kandi ibikomo ku maboko, araseka rwose yivuye inyuma.

Mu ikarita ya Amerika bashushanyijeho umutwe w'umuntu barangije bandikaho world mental health day, bivuga ngo ni umunsi mukuru werekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, ayo mabara yombi ari ayajyanye n'uwo mutwe bashyize mu ibara ry'igitare, uri mu ikarita y'igihugu cya Amerika, mu ibara ry'icyatsi.

Iyo nitegereje abafite uburwayi bwo mu mutwe ndetse nkareba n'aho bajyana imfungwa zisanzwe zakoze ibyaha, aho baba bagiye, ndavuga amazu barimo usanga ajya gusa. Hose usanga inkuta ari ndende cyane kurusha andi mazu aba ari hafi yabo. Ahari ni uko baba bacyeka ko bashobora kuzitaruka.

RBC irimo gutanga ikigereranyo cy'uko serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe buteye mu Rwanda ku rwego rw'ibanze kugeza ku rwego rw'igihugu bahereye ku bajyanama b'ubuzima kugeza ku bitaro bikuru by'igihugu. Amabara atandukanye muri icyo kirango arerekana buri ntera uko itandukanye n'indi bakavuga n'imibare ibiranga.

Ifoto y'urwibutso yahuje abantu b'ingeri nyinshi. Harimo abasirikare bakuru, harimo abayisilamu, harimo abakobwa batoya n'abagore bakuze, harimo n'abaganga kandi bambaye uniforme.

Aba bantu barababaye pe, ari abana, ari abakuru, barababaye ku buryo n'amaso yabo abigaragaza ko bari kurira, ni urupfu bahuye na rwo, cyangwa se ni akandi kaga.

Umukecuru wambaye amaherene uteza umwumbunda w'igitenge, akambije agahanga mu buryo buteye ubwoba, amaso ye arimo uburakari n'ubujinya niba atari byo kandi harimo ubugome bwinshi, yakuruye iminwa n'amazuru mu buryo burengeje urugero, uwamugera imbere wese yagombye kugira ubwoba.

Gufindura ukuri kuri muri iyi foto biragoye. Icya mbere cyo ukinjira muri koridoro urabona inkweto ziri mu kabati. Wareba uyu mukobwa, ukabona ameze nk'umuganga uri gusezerera ababyeyi bafite abana batarengeje icyumweru. Wareba kandi ku birenge, ugasanga nta nkweto yambaye. Firigo, ameza, n'utundi dukoresho urabona ari utwo mu muryango.

Abaforomo babiri, umugabo n'umu mugore bari guhuza ibice binyuranye by'umutwe, bigakora ishusho rimwe rihurije hamwe ryerekana umutwe w'umuntu, ni ibyerekana yuko tugomba gusigasira abafite uburwayi bwo mu mutwe, tukababa hafi kugira ngo barusheho kwerekana ubumuntu bwabo, kandi natwe turusheho kuba abantu muri bo.

Mu gihe cya Covid ntabwo ari Covid yonyine abantu bibanzeho. Ngo bibuze kwita no ku zindi ndwara zireba ubuzima. Iri tangazo riratuma abantu bumva yuko ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho, kugira ngo harengerwe abana n'abangavu cyangwa se ingimbi.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo irimo amabara y'ubururu, ufite agashumi mu ijosi, wambaye amarinete, washokoje imisatsi y'amarende, imikufi kandi myinshi imuri ku kaboko kariho impeta, aramurika igitabo cy'ubururu arimo kucyereka abantu nkaho abashishikarira kugisoma.

Uburwayi bwo mu mutwe burangwa no kugira imyitwarire, imyambarire, uburyo ubaho, ndetse abantu bamwe barwaye uburwayi bwo mu mutwe usanga bitaza imiryango yabo bagahitamo kwibera mu muhanda, ni cyo kimenyetso kigaragaza ko umuntu aba yararwaye uburwayi bwo mu mutwe.

kugira amenyo meza ni byiza. Kandi abayafite barahirwa. Kuko aho bari hose baba baseka. Umusore w'inzobe ndeba, yambaye agapira k'umuhondo, yashokoje, arahumirije, araseka, umunezero wamusabye. Awugumane iteka ryose.

iki ni ikirango cya rwanda mental health nursing student association, mu kinyarwanda ugnekereje ni ukuvuga ngo, ni ikirango cy'ishuri ry'abanyeshuri ariko nyine abo banyeshuri bakaba barishyize hamwe kugira ngo baharanire ubuzima, bateze imbere buzima bwo mu mutwe.

Amagambo yanditse kuri uyu mupira ntabwo buri wese yamenya icyo asobanuye, ariko ntawajijinganya abonye ziriya nyuguti CHOGM. CHOGM ni umuryango uhuza ibihugu bivuga kandi bihuriye ku muco n'ururimi rw'icyongereza.

Abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe akenshi usanga batagira kivurira nta muntu ubitaho birirwa mu muhanda bagahura rero n'ibibazo binyuranye harimo: inzara, gukubitwa, gukoreshwa imirimo idashobotse ndetse iyo ari abagore bafatwa ku ngufu abagabo iyo bababonye barabasuzugura bakabitiranya n'ibisambo cyangwa se abokamwe n'amadayimoni nguko rero uko ibibazo byo mu mutwe birushaho kwiyongera.

Abana babiri b'abakobwa umwe yambaye ikanzu y'ubururu, undi yambaye agapira k'umukara, bari imbere y'utubumbano tw'udukinisho, turimo abantu ndetse n'akajangwe, bari mucyumba kimwe kigaragara yuko nta bandi bantu barimo, ahubwo aribo bonyine bakeneye kuganira.

Umwana w'umukobwa wambaye ikote ritukura n'ikanzu itukura, yifashe ku itama ameze nk'uwihebye. Mugenzi we umwicaye imbere wambaye umupira w'umukara n'ikanzu y'umukara amushyize ikiganza mu gituza ahagana ku mutima asa nk'aho amuhumuriza.

Umugore uteze igitambaro cy'umuhondo yicaye ku rubaho wenyine ari kureba kuru ruhande nk'aho uwo yari ategereje agiye kuza, ari inyuma yigikuta gishushanyijeho ururabyo rw'umuhondo, uwo umuntu araza kuko yagumye kumuhanga amaso.

Kujya guhinga ariko wagaruka ukaza wikoreye umusaruro w'ibyo wahinze ikindi gihe mbona nta munezero usa nk'uwo, uyu mugore reka amwenyure, nagumana isuka ye mu maboko nk'umuntu wese ufite igikoresho cy'ingirakamaro kubera ku isuka twese iradutunze kandi ituma tubaho, tukagira ubuzima bunezerewe.

Hari amabara agaragara cyane aho abantu bateraniye cyane cyane ibara ry'umutuku iruhande rw'umweru, uriya mugabo uri uri iruhande rwa musenyeri aho waturuka hose amaso yawe yamubona, biterwa n'iki rero niba koko ibara ry'umutuku mu yandi mabara ari hariya ari ryo rigaragara?

Ni umugabo ukenyereye igitenge hejuru, mu gituza nta mwenda yambaye ahubwo yawuvanyemo, muri ruhurura harimwo ibikoresho bye binyuranye, nta kindi kintu kindi kiri iruhande rwe, hirya ya ruhurura hari ibyatsi, ari wenyine nk'umuntu uri mu kato cyangwa mu irungu.

Twa tumenyereye amapingu tubona ku maboko, mu bindi bice by'Isi amapingu bashobora kuba bayashyira noneho no ku maguru, ariko se n'iyo umuntu bamufunga, bamufungira mu rugo rwe? Kuko uyu muntu urabona ko ari umuryango w'aho asanzwe amenyereye.

Kurya ni ingirakamaro kuri buri wese, yaba ari umwana uvutse agomba konka, yaba ari umukecuru rukukuri nonese ko ntawe yakonka ariko se ashobora kwibagirwa gushyira agasafuriya ku ziko kugira ngo ashigishe agakoma, kabone niyo kaba ari k'ibigori, buriya nako ni uburyo bwo gusubira kw'ibere ry'iyi si yacu.

Kwa muganga ntibakoresha inshinge gusa, iyo bita ku buzima bw'umwana bashobora no kumuha ibitonyanga, abana barabikunda kuko biba bibaryohereye birimo n'agasukari, naho rero urushinge abana bararutinya ku buryo iyo babonye muganga arufite barira.

Umugabo wirabura wambaye agapira k'icyatsi afite n'amaso atukura, ubirebeye kure wagirango ngo arimo kurira, nyamara iyo ushishoje ni uko ku matama ye ndetse no munsi y'izuru hari inkovu, munsi y'izuru wagirango ni utumyira ahafite, nyamara ni izo nkovu, no munsi y'amaso wagira ngo ni marira ahatemba nyamara naho ni utwo dukovu.

Umugabo ugeze mu zabukuru nibura hejuru y'imyaka mirongo itanu n'itanu, yambaye ishati y'amaboko maremare idoze mu ibara ry'ubururu, ari imbere y'abantu bari kumwitegereza ariko afite n'icyo ari kubagezaho nk'inama cg ikiganiro yabageneye.

soride mayinde, ni ibitaro byakira, abantu. Bikabagira inama. Ikirango cyabo, cyanditswe mu ibara ry'igitare hakoreshejweye inyuguti z'umukara. Hirya y'izo nyuguti z'umukara gato, hari umuntu, usa nk'igiti giteze amaboko. Ni ukuvuga ko ubagannye wese, baramwakira.

Umubyeyi n'umwana we bicaye ku gatebe kamwe hafi y'ahantu hari imyase y'inkwi, uwo mubyeyi yafashe igishura kirekire yari afite akizenguruka ku ijosi rye kugeza n'aho amazuru ari, umwana w'umukobwa yamushyize ikiganza ku rutugu, nk'aho ari kumubaza ati, ese umeze ute mubyeyi?

Umusaza w'intore nyakuri, afite icumu ryerekana ko ari no guhamiriza, yiteye agashanana n'ingofero ari guseka, afite amenyo y'ibihanga. Ni ikikwemeza ko guseka buri gihe ntawe bitabera, urebye ibihanga bye n'imyaka ye, rwose amenyo si yo ngombwa ngo duseke, ikizima ni ikiba kiri ku mutima kigasesekara ku munwa wacu.

Inzu y'umuhondo bigaragara yuko bayubakiye hejuru y'umugunguzi ikikijwe n'ingazi zituma abantu bashobora kugera ku muryango wayo mu mpande harihandi hantu ubona ko hari icyumba cy'ubururu amadirishya nuubururu yewe ariko ntiwamenya niba isakaje amabati cyangwa se amategura uko ubuyihagaze munsi.

Inyandiko ivuka isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'umuryango w'abimbye ifite umutwe uvuga ngo turi kumwe. Wanditswe mu ibara ry'ububuru ho nk'uko ikirango cy'umuryango w'abibumbye kimeze. Hari ishusho y'umuntu iri hagati y'ibendera ry'u Rwanda n'ibendera ry'umuryango w'abibumbye.

Iyo ndebye ifoto y'umwana uko yaba angana kose, uyibonamo uburanga, ukayibonamo icyizere, ukayibonamo urukundo, urebye uyu mwana uko amwenyura, n'uko areba, ntabwo wahinyuza ko ibyo nkubwiye ari ukuri.

Umukecuru ukuze, wambaye ishati y'igitenge, ariko ijya gusa n'igitenge ateze mu mutwe, ari kwerekana amenyo ye, mu by'ukuri ntabwo ari guseka, ahubwo arasa nkaho yereka umuntu uri imbere ye, ko amenyo ye afite ikibazo, urebye neza inyuma y'uwo mukecuru, hari umurongo w'abandi bantu, ntibivuga yuko ari kwa muganga, ahubwo hari kureba mugangamwerekana none ikibazo afite.

Umugabo wirabura ureba ko agifite ingufu kandi akomeye yagiye ahunga abantu bose ajya inyuma y'inzu hagati y'ibikuta aba ariho ahagarara arangije areba hejuru areba mu kirere nkaho ategereje igisubizo, biragaragara ko afite ibibazo byinshi byamurenze.

Ababyeyi benshi baburiye kwa muganga, harimo ugaragara ko afite akana kakiri uruhinja cyane, imbere yabo hari umugabo uri gusobanura ibintu kandi yandika ku gipapuro kinini bashyize ku gikuta.

Itangazo rimanikwa ku rukuta riramenyesha abantu ko kuva ku itariki makumyabiri z'ukwa karindwi kugeza kuri makumyabiri n'agatanu z'ukwa cyenda, hari amarushanwa azabera mu mashuri agamije gukangurira abanyeshuri n'abandi bantu ko hariho sida, kugira ngo ubukangurambaga bukomere.

Abashinzwe igikorwa cy'ubuzima bwacu no kubungabunga, bahuriye mu nama basa nkaho bari mu imurika ry'ibikorwa byabo ndetse n'ibikoresho bakoresha, biragaragara ko bari mu ihema ry'igitare, imbere yabo hari abantu babateze amatwi ngo bumve icyo bababwira.

Uyu musore ari mu gahinda gakabije. Mugenzi we w'umukobwa aramwegereye amushyize ikiganza ku rutugu amuhumuriza asa nkaho amubwira ati: "Ihangane utwaze ube umugabo isi ni uko iteye".

Umugabo wambaye umupira w'umukara yipfutse mu maso, wakwibaza niba ari umutwe umurya cyangwa se niba ari agahinda kenshi, wanibaza niba ashaka kwihisha ibintu biri imbere ye, mu by'ukuri niba ari agahinda afite, birababaje kuko n'ubundi ari wenyine kandi ntawe ushobora kumubuza.

Iki ni ikirango, mu cyongereza ndebye nkacishiriza wacyita brand, logo, cyangwa sign, munsi y'icyo kirango handitseho mHub, mHub ntimumbaze icyo bivuga, ariko uko bisa kose ni ikimenyetso gifatiye ku buzima bwo kwa muganga.

Twigishwa ko uburenganzira bw'umurwayi bugomba kubahirizwa ariko siko bimeze iyo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, baramufata bakamwambika amapingu bakamukurura bakamugeza aho bamuvurira nyine ku bitaro nkaho ari umugizi wa nabi ugiye guhanwa cyangwa ugiye gufungwa.

Iyo ufite amenyo meza urayerekana, ariko uburyo bwiza bwo kuyerekana ni uguseka, ariko by'akarusho uyu mugabo we aranatwereka ko amenyo ye akomeye, ashyiramo akagozi, ndetse akagacisha amenyo ye tureba.

Ni umurwayi uryamye agaramye, ari kumwe na muganga w'amenyo, ari gufungura umunwa we ngo arebe iryinyo ku rindi, kandi yifashishije ibyuma byabuhariwe, umurwayi nawe ategereje umwanzuro wa muganga we.

Abana babiri b'abakobwa bambaye imyenda ya kontoni, ni ukuvuga ko ibara ryiganje aba ari ubururu bafite uburoso mu menyo, bari kwerekana ko gushyira uburoso mu menyo ari ukurwanya indwara zishobora kuyafata kandi ari ukugirira umubiri wawe isuku.

Umugabo utari kwerekana mu maso he ariko ugaragaza igice cy'ayo maso, yambaye amarinete, ari kwerekana amenyo ye avanyeho umunwa, yerekana cyane cyane ishinya yo haruguru, atunze urutoki kuri iyo shinya, asa nkaho ayereka muganga.

Abaganga babiri bahuriye ku murwayi, bamubumbuye umunwa barimo kureba amenyo, umwe arimo kureba ikibazo yaba afite, ariko undi ari gutegura umuti wo kumuha, twizere ko nubwo ahangaha ubona ko umurwayi aryamye, ariko ibimukorerwaho arabyumva kandi ntago biri bumuhitane.

Umurwayi yicaye ku ntebe y'abarwayi, ashyize igikanu kuri iyo ntebe, umuganga amuturutse, imbere ari kumukura amenyo.

Muganga w'amenyo w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa ku munwa k'igitare yashyize umurwayi ku iseta, afite imakasi, ari kureba mu kanwa k'umurwayi agira ngo amukure amenyo.

Ushobora gutekereza ko urwasaya rwawe n'amenyo arugize bisa nk'iyi foto, iyi foto inyujijwe mu cyuma, irakwereka uko amenyo yawe urugaga rw'amenyo ari ayo hepfo no haruguru ateye.

Abarimu n'abanyeshuri b'iki kigo bahuriye ku ntego imwe yo kwerekana ko gusukura mu kanwa ukoresheje umuti w'amenyo ari ingirakamaro, niyo mpamvu ari buri mwana cyangwa se buri mwarimu afite uburoso, cyangwa se umuti w'amenyo, kugira ngo ashimangire neza yuko gusukura mu kanwa ukoresheje umuti w'amenyo ari ingirakamaro.

Amenyo y'urwererane nk'aya ngaya, agirwa n'abantu badakunda kurya ibintu birimo amasukari. Aranabitwereka acishamo urudodo mu menyo ye ngo atwereke rwose ko afite mu kanwa hazima hataraga. Aranezerejwe n'iseko ye, anejejwe n'amenyo ye yererana.

Umugabo ufite ibyanwa bihuye n'umusatsi yashyize ifoto ku gikuta, iyo foto irerekana uko iryinyo rihagaze mu mubiri w'umuntu, ni ifoto yanyujijwe mu cyuma.

Umusore w'inzobe uri mu kigero nk'icy'imyaka makumyabiri n'itatu ari imbere ya muganga nawe we ukiri mutoya bajya kunganya imyaka. Ni umukobwa ufite agapaki ari gukuramo utuntu tumeze nka tijekoto noneho agahanagura amwenyo ya wa musore.

Ni byiza ko abana batozwa umuco mwiza wo kugira isuku babigishije gukaraba ibiganza mbere yo kurya ariko bagomba no kubibutsa kongera gukaraba bamaze kurya, cyane cyane bagasukurisha uburoso buriho umuti w'amenyo mu kanwa mu gihe bagikura.

Muganga ari gupima umwana ubugendakanwa, hakoresheje utuyiko dutoya cg se udukasi dutoya kugira ngo agire uducandwe duke afata adushyire ku mashini ibasha gupima mikorobe cyangwa se na za bagiteri zaba ziri mu kanwa k'uriya mwana, bikaba byamutera koko ubugenda akanwa.

Umuntu wambaye agapira k'igitare ari guseka mu buryo yerekana amenyo ye yose y'igitare. Amenyo ye rwose arakeye kandi inyuma ye hari urukuta rw'umuhondo.

Umugabo w'ibigango ukiri muto cyane. Arerekana ko afite amenyo meza y'igitare kandi akomeye. Arimo kuyanyuzamo akagozi yerekana ko ashobora kugaca. ni ibintu bitangaje rero nabishobora kuko uwo mugozi urakomeye ni mushipiri.

Amenyo y'umuntu atereye kure cyane. Ubirebeye kure wagira ngo n'imizi imanuka ikagera mu nzasaya zacu. Nta muntu muzima wemera ko afite amenyo meza, wareba iyi shusho ngo yizere yuko na we ari ko ameze. Biteye impungenge.

Umukobwa w'inzobe cyane usa nk'Abarabu niho akibyuka. Afite isume ateze mu mutwe n'akantu kameze nk'agasengeri kari mu ijosi. Ku buroso bwe bw'ubururu hariho korogate arimo kwiborosa mu menyo. Afite umuntu barebana ariko ntabashe kumuvugisha kubera ko nyine afite uburoso ari kwiborosa. Uwo muntu hari ikintu ari kumubwira uko bisa kose.

Umuforomo w'umugabo hari kureba mu kanwa k'umurwayi, afite akuma ari kujomba hagati y'amenyo ngo arebe ikibazo yaba afite, ku rukuta hariho karindari hirya y'iyokalindari hari kadire, kandi muri icyo cyumba harimo ameza ariho ibitabo.

Abantu bamenyereye ko kwifotoza bivuga yuko buri gihe ugomba kuba umwenyura kugira ngo werekane umunezero, iyo foto rero y'urwibutso n'ubundi izerekane mubihe bizaza igihe kiza abadashobora guseka babasaba kuvuga isosi cyangwa senke, ayo magambo yombi atuma umunwa ufunguka.

Ni abana bato b'abanyeshuri ariko abagaragara cyane ni abakobwa babiri, buri wese afite uburoso, umwe arimo kwiborosa amenyo, birerekana ko igikorwa cyo kwiborosa amenyo ni igikorwa gishyigikira ubuzima bwacu kandi kirinda indwara amenyo yacu.

Abaganga bicaye ku ntebe yabo, bambaye udupfukamunwa. Imbere yabo buri wese afite uwo yitayeho ariko uri ku ruhande ari na we ugaragara cyane, ari kureba mu kanwa k'umugore, agashyiramo agati gatoya karimo ipamba muri bwa buryo bwo kureba koko niba afite virusi ya corona.

Muganga ari kureba ishinya y'umwana ngo arebe ikibazo yaba afite mu kanwa, ese bihereye ku menyo? cyangwa se biri imbereye ku rurimi? ari imbere ku rurimi twabyita ubugendakanwa ariko ari imbere mu muhogo na none byaba bigoranye niyo mpamvu muganga yifashisha ibindi bikoresho kugira amenye icyaba kiri imbere mu muhogo noneho atange umuti azi impamvu.

Mu cyumba kigari harimwo imashini nini cyane, harimwo kandi intebe ebyiri, imwe nirambuye ushobora kuryamaho, ifite ibara ry'isine, indi nayo ifite ibara ry'isine iri ku mapine umurwayi cyangwa se undi muntu ashobora kwicaraho akajya mu mpande zose ashaka atiriwe ahaguruka.

Nguko uko umuntu ateye, amenyo ye cyangwa se inzarasaya ze zinyujijwe mucyuma urabireba ukagira ubwoba ariko nababandi tuvuga ko bafite inzarasaya z'igitangaza imisamiremire myiza cyane banyujijwe mucyuma nabo basa nkababanga.

Kwa muganga tuhabona imiti, abarwayi, abaforomo, tugakeka ko ari ibyo gusa. Iyo wigiye hirya, uhasanga ububiko buba burimo ibyuma bitandukanye. Hari imikasi, hari ibyuma n'akuma. Hari ibyuma bifasha abantu gutambuka bakunze kwita imbago, hari ibyo baryamaho, hari ibimurikira hejuru; yewe, kwa muganga ntaho bitaniye no mu igaraje. Kandi koko ni mu igaraje; kuko iyo batuvuye tugakira, dusubira mu muhanda.

Gukenyera ukitera ni umuco waberaga buri wese mu rwanda rwo hambere yaba umugore cyangwa umugabo, mu bukwe n'ibindi birori binyuranye byo muri iki gihe usanga abagabo nabo bakenyera kandi bakitera, baraberwa ugasanga iyo afite akagofero noneho byarushijeho kuba akarusho.

Umugabo w'umwirabura n'umugore w'umuzungu, bigaragara ko baciye akangushye bari muri siporo yo kwiruka, bari kugenda birukanka bakora intambwe ku y'indi nk'abantu bari bugende urugendo rurerure kandi baragenda baganira ari n'ako banaseka.

Umugabo munini wambaye ishweta hejuru y'agapira k'ubururu ari mu rugo rwe ariko yibutse ko igihe kigeze cyo kunywa ibinini, ashyize amazi mu kirahure arimo kubara mu kindi kiganza ibinini afite kugira ngo amenye umubare w'ibyo akwiye kunywa ako kanya, arararwaye kandi arabyiyumvamo pe, niyo mpamvu yibutse muri aka kagoro, urabona ko bugiye kwira ariko butarira ngo ajye kuryama abanje gufata imiti.

Umugabo n'umugore bakuze, basa nkaho bambaye imyenda isa, amashati ya kake, bombi kandi bambaye amarinete, busibye ko umugore we ateza igitambaro. Mu mutwew'uwo mugabo, harimo imvi, bafite impapuro nyinshi n'igitabo, ariko bahuriye ku rupapuro rumwe, basesengura ibyanditseho.

Abagore babiri bari mu cyumba bari kuganira, umwe afite akagare agenderamo ka kandi kagenewe abafite ubumuga, ufite igisarubeti cy'ubururu ni umuganga kandi afite akuma yashyize ku kizigira cya mugenzi we kugira ngo arebe uko iyo mitsi itera cyangwa se uko umutima we uhagaze.

Umugabo wambaye ikanzu igera ku birenge, umupira w'umuhondo yarengejeho ishweta, afite imvi nyinshi mu mutwe no ku kananwa, umwana w'umukobwa ufite imyaka cumi n'irindwi amufashe mu ntoki amukinisha, wakwibaza niba ari inshuti ye cyangwa umwuzukuru we? Byose urareba ukabona ari amayobera.

Abantu banyuranye bahuriye mu nama, ni inama y'ubuyobozi kubera ko urahabona amabara y'ibendera ryacu umuhondo, icyatsi kibisi, n'ubururu, ariko na none urabibwirwa nuko abantu babiri bari gukorana mu biganza abari iruhande rwabo bari gukoma mu mashyi.

Umugabo ukuze ari kumwe n'umugore we na we bigaragara ko akuze. Bari imbere y'ameza yateguweho ibiryo, hari n'ibinyobwa biri mu birahure. Umugabo yambaye umupira w'igitare, umugore yambaye umupira w'iroza.

Umugabo w'umwirabura wambaye amalinete, ari guseka yishimiye guhura n'umugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire na we uri useka. Bafatanye agatoki bari kumanukana ingazi. Arizo dukunze kwita esikariye.

Umugabo ukuze ufite nk'imyaka mirongo itandatu, ari mu kagare ari gusunikwa n'umuforomokazi amujyana aho akeneye serivisi, arimo kureba niba umurongo warangiye ngo amugeze aho agomba kuvurirwa, arabikorana urukundo kandi koko urukundo ruruta byose, kuko rushobora gutuma n'uwari urwaye yoroherwa.

Umugore ukuze wambaye amadarubindi, ufite imisatsi irimo menshi. Yambaye ikanzu y'umuhondo. Afite agacupa k'igitare arimo kubarira ibinini ku ntoki yiteguye kubinywa.

Umuryango wahuye uri kuganira, barasa nkaho basabana inama. Muri bo harimo umusaza ukuze kubarusha ariko umwihariko we, afite icyibo ari kuboha. Ni ibyerekana yuko, kuboha rero atari umuco w'abagore gusa.

Umugabo w'umusaza wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'igitare ari muri siporo, umugore we aramwegereye amufashe ku rutugu, ni nkaho yakamufajije gukora iyo siporo mu buryo bufite akamaro bitewe n'uko umubiri we uyikeneye.

Umugabo w'umwirabura ari gukina je videwo. Iruhande rwe hari umwana w'umukobwa w'umumirate. Aho kugira ngo barebe ibyo bari gukina ahubwo bararebana mu maso. Uribaza impamvu baje gukina ariko batareba ibyo bakina.

Kuko ubusaza burya ni mu mutwe, uyu mukecuru yishimiye gukora siporo nkuko tubibonana n'abandi basore bose, afite ibyuma bibiri biremereye ntubirebe ngo nuko ari dutoya, turaremereye pe ariko tugorora imitsi, bigatuma ahorana iriya nseko nziza n'umucyo umurebana mu maso.

Hari umugani mwiza abanyarwanda bahuriyeho uvuga ngo imfura na se barangana, ni byiza ko twubaha abakambwe, tububaha, tubagenda iruhande, tubereka ubuzima uburyohe bwabwo, dusohokana nabo, kandi dutemberana nabo tuganira, ibyo bibaha icyizere no kumva ko gusaza atari ugusahurwa, ahubwo bagahorana ikuzo ry'uko batubyaye.

Uyu ni umuganga bigaragara ko abimazemo iminsi, asheshe akanguhe, yambaye taburiya hejuru y'umupira w'ubururu, afite ikaye ari kwandikamo, ntawamenya neza icyo yandikamo icyo aricyo, ariko biragaragara ko ibyo akora byose ari mu kazi kerekeranye n'ubuvuzi.

Umugabo afite ubumuga, afite akantu kameze nk'agatanda kari imbere ye nagereranya n'imbago, umugore ari iruhande rwe aramugendera buhoro ngo amujyane amugeze mu rugo amusindagize.

Umuryango mugari wahuje, umukecuru ari kumwe n'abakazana be n'abuzukuru be bishoboka y'uko yari yaje kubasura, bafata ifoto y'urwibutso.

Nari menyereye kubona umugore ari we wegamira umugabo nko kumwereka ko amukunda. Ibibyo ntibisanzwe! Ni umugabo ukuze wiyegereje uyu umugore aramwegamira, kandi koko nabyo birerekana ko amukunze, ibiri amahire nuko mbona bose basa nkaho babyemeranyijweho kandi koko bari kutwemeza ko bakundana.

Umubyeyi bigaragara ko akuze araganira n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka irenze makumyabiri, uwo umubyeyi ari gukata salade irimo zareti, urunyanya, karoti, n'indimu, baraganira baseka kandi ubona ko bishimye.

Umugabo ukuze, wambaye umupira utukura. Ari kumwe n'umugore we, nawe wambaye umupira utukura, ariko utambitsemo amabara y'umukara. Mu mitwe yabo, imisatsi yabo, harimwo imvi. Umugabo harimo kumwereka, ibintu afite mu ntoki bisa nk'ibinini.

Igisoro ni umwe mu mikino ihuza Abanyarwanda. Cyane cyane ikunze gukinwa n'abantu bakuze. Ariko ni ukuvuga ngo bayikina bakuze n'igihe bari abana hari gihe bayikinaga. Ni umukino ushimisha ariko njyewe ku buryo nkuzi yuko ushobora no ku kurangaza ukibagirwa ibindi bintu wari gukora. Igisoro rero kibamo ubuhanga. Ariko kibamo n'ubwenge butuma umenya ubuzima bwo kuri iyi si.

Umuforomokazi ari gushyira ibinini mu kiganza cy'umusaza ufite imvi nyinshi ku kananwa zera cyane. Umutwe we ni uruhara. Mu rundi ruhande umukobwa afite inweri ndende zikora ku rutugu, yambaye itaburiya y'ubururu.

Muganga ari kwereka umuntu ukora siporo uko agomba guterura ibiremereye, aho agomba kugeza ku kuboko aguterura ndetse anamwereka uko agomba kumanura uku kuboko, afata ku rutugu rwe afata no ku bujana bw'akaboko ke.

Umugore uteze agatambaro k'iroza mu mutwe yicaye ku gasambi ari kwinanura ahahereye ku birenge, iruhande rwe ubona ko aka kazu gahari kameze neza kandi karimo uturabyo, hirya kure urahabona ibihuru hirya kandi na none harasa nk'aho hari inyanja.

Siporo ntabwo igenewe abantu bato gusa n'abakecuru barayikora, hari abantu basheshe akanguye bagore babiri, barimo kurambura amaboko, bose barakora siporo bazi icyo bakora. Barishimye bari guseka, kandi bari gukorera siporo yabo ahantu hari ubwiza nyaburanga bw'ibiti byiza bitoshye.

Burya koko amagara aramirwa. Iyo urebye ameza y'abantu basa neza n'umucyo baba bafite mu maso, uhasanga amafunguro aberanye no kubaka umubiri koko. Ngizi imboga, amasosi meza, ibikomoka ku matungo, inyama, amafi, yewe n'ibinyampeke. Iyo urebye ameza yabo koko ubona ariyo yubatse uko basa, iyo ubarebye.

Umusaza w'imyaka irenze mirongo itanu yaje kwa muganga, yavunitse mu nkokora. Umwana w'umukobwa w'umuganga afite igitambaro ari kuzengutsa kuri izo nkokora kugira ngo arebe ko yamufasha noneho kwa kuboko kubashe kuba kwakira imvune uyu mugabo yagize.

Inama yitabiriwe n'abagabo n'abagore benshi. Ariko ugereranyije wasanga batarenze mirongo ine. Bicaye ku ruziga, izuba ni ryinshi. Ku rubaho rumwe hicayeho abantu batatu. Abo bantu niba atari abatumirwa, wasanga ari bo bari gukoresha iyo nama.

Umugabo ukuze ari kumwe n'umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka itatu, bahuje urugwiro ku buryo barebana ijisho kuri rindi, amazuru yabo bayahuje, umwana afite igikinisho kiri mu kuboko kw'iburyo, ndetse uwo mubyeyi na we amuhobeye amuhurije amaboko amwegereza igituza cye.

Mu ishyirahamwe ry'abagore n'abagabo bahuriye mu murima w'ibigori urimo n'ibishyimbo, bari gufata ifoto y'urwibutso bashyize amaboko hejuru, bavuye mu nama kandi biragaragara ko banyuzwe n'imyanzuro bafashe. Uko bisa kose bagiye kwishimira umusaruro uri imbere kuko imyaka yabo irasa neza cyane.

Umuco wo gusoma ni umwe mu mihango ushobora gutuma abari mu rugo begerana kandi basabana, uyu mubyeyi w'umugabo ari kumwe n'umwana bareba mu gitabo bakanyurwa n'ibirimo bagaseka, buri wese imbere ye afite itasi irimo icyayi.

Umugabo ukuze yicaye ku ntebe afite igitabo imbere ye, akameza ke agashyizeho inkokora ifashe ku gahanga, mu by'ukuri arananiwe nubwo yibwira ko ari gusoma ariko iyo urebye mu maso witegereje ugashishoza arasinziriye.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'ubwangavu yambaye agapira k'igitare, afite utudaho tubiri ari kwarurisha salade ari gushyira ku isahane ya musaza we iriho umugati n'akaguru k'inko, musaza we yambaye agapira k'umutuku nawe we ari mu kigero cy'ingimbi, hagati yabo hari umubyeyi wabo wambaye ishweta irengeje ku ikanzu y'umukara mu mutwe we harimo imvi z'uruyenzi.

Mu gisharagati harimo umukecuru n'umugabo ukuze bose barakenyeye kandi bafite imyitero, inyuma yabo hari abantu benshi birumvikana ko imbere yabo hari umuntu uri kuvuga ijambo, bateze amatwi kandi ni abashyitsi bakuru muri ubwo bukwe.

Umukecuru ufite imvi z'uruyenzi wakenyeye akitera yambaye agapira k'ubururu ahagaze imbere y'ameza bamuhaye mikoro afite ijambo ariko abo abwira ntibagaragara, hirya kure urahabona imodoka zigeze kuri eshatu bivuga yuko ari imbere y'inama y'abantu bakomeye.

Umugabo ari gukina n'umwana we uri mu kigero cyimyaka itanu, uyu mwana urabona ko amenyereye gukina na se kuko arasa nk'aho rwose ashaka kumutsinda igitego birashimishije kubona umwana wi'myaka itanu afata umupira nk'abantu bakuru kandi yiteguye kujya gutsinda.

Umugabo usheshe akanguhe, ari gukurura imigozi imeze nka lasitike, ariko ifitwe mu rundi ruhande n'umwana w'umusore, ujya gusa nkaho ari umwana we ukurikije ko bombi bafite ubwanwa buzengurutse umunwa, hirya kure urahabona utubati duteretseho uducupa, inzu isize irangi ry'igitare.

Aba bantu bafite ingingo imwe nyamukuru yabahuje. Bafite ubumuga bw'ingingo. Biragaragazwa nuko buri wese afite imbago agomba kwicumba. Urabibonera ku maguru yabo yose, aho usanga buri kuguru kurambitseho imbago.

Ni abakozi babiri bari mu biro, umwe ari kwitegereza icupa akarikuraho amakuru akayaha mugenzi we ufite computer akayandukura, uwo mugenzi we ufite computer noneho ariko amuteze amatwi, ategereje icyo ari bumubwiye ngo yandike, wa wundi na we afite agacupa ari gusoma.

Mu gikoni ni ahantu umugabo n'umugore bashobora kwishimira, iyo bahahuriye bombi baba bagamije gutegura ibifasha ubuzima bwbo, ni na yo mpamvu aho hantu koko mpabona umunezero nk'iyo umugore ari guhata, umugabo ari koza amasahani, niho haturuka bwa busabane buri wese akeneye kugira ngo yumvikane na mugenzi we.

Umugore w'inzobe n'umwana we bajya gusa bose bambaye ibyera, bari ku meza bakina udukino twa dame dukoze mu mipfundikizo. Hirya urahabona firigo, kandi inzu yabo na yo irimwo ibara ry'igitare. Akana gafite amatsiko ku kureba uko mama we ari gukina.

Umubyeyi uri ku kigero cy'imyaka mirongo itanu, ari kumwe n'umwana we ufite hejuru y'imyaka makumyabiri. Baramwenyura, baranezerewe, bagamije kwifotoza. Umukobwa yazanye amaboko ye ayahuza n'aya nyina mu gituza, aho umutima uterera.

Ateza ikiganza mugenzi we ufite agacupa mu kandi kaboko kugira ngo amushyiriremo ibinini, umugore umuri iruhande ari we nita mugenzi we, afashe ikiganza cy'iburyo agishyize ku rutugu rwe, umugabo ugiye kwakira ibyo binini yicaye imbere ya computer.

Umuzungu w'umusaza yasuye itsinda ry'abagore baboha, baje kumwakira bafite ibibohano byabo kandi urabonamo n'abandi bakobwa babiri ushobora kwemeza yuko hari abakozi baje bamuherekeje.

Abagore bazindukiye mu murima w'icyayi, bashishikaye kugisoroma bagishyira mu dutebo turi mu mugongo wabo. Ku buryo bw'umwihariko ariko umugore umwe yambaye ibintu by'ubururu kuva hasi kugeza hejuru ku buryo n'igitambaro yateze mu mutwe na cyo ari ubururu.

Ntutekereze ko uyu muforomokazi ashaka kurya wenyine. Imbere ye arahareba undi muntu, araseka neza nkaho yakamubwiye ati ngwino dusangire kandi ifunguro rirahagije, aranezerewe. Gusangira na we rwose ntawe bitanezeza.

Umukambwe ari kumwe n'umukecuru. Urabona ko bakuze cyane, imbere yabo hari ikirahure cy'amazi n'uducupa tubiri tw'imiti, umukecuru arimo gusoma ku rupapuro asa nkaho abwira umusaza urugero rw'imiti agomba kunywa, kandi iyo miti iri mu kiganza cye.

Ni umuryango wishimye, uyu mubyeyi ari kumwe n'umwana we mukuru, ariko uriya mwana mutoya ashobora kuba ari umwuzukuru w'uyu mubyeyi mukuru, niho bahuye, barishimye, barifotoza ifoto y'urwibutso.

Abayobozi na bo bagomba kugira uruhare mu kugira ngo ubuzima bwacu butere imbere kandi busigasirwe, ntabwo ubuzima bwacu rero twabuhariye muganga wenyine, mu nama zinyuranye bakoresha, bagira umwanya n'uruhare wo kunganira muganga kandi ibyo bintu ni ingirakamaro kandi bitera ishema umuganga kumva ko mu miryango yacu atari wenyine.

Ntiwamenya neza niba ari umukobwa cyangwa ari umugore, uko bisa kose ni mutoya, afite ikigeranyo cy'imyaka nibura makumyabiri nitanu, afite mikoro arareba abantu ari kubwira, yambaye agapantaro k'umukara n'agapira k'umukara, afite bage y'ubururu mu ijosi kandi yambaye n'ishakete ya kake, yashokoje ku buryo umusatsi uratendera ujya mu rutugu.

Igitabo cyitwa" Comprehensive Sexuality Education" mu Kinyarwanda navuga yuko ni uburyo bwo kurebera hamwe bivuye inyuma uburere mbonezabitsina. Ni imfashanyigisho zigenewe abanyeshuri mu mashuri ya secondaire cyangwa twita "Amashuri yisumbuye".

Sinari nzi ko muri Afurika y'Iburasirazuba, bafite Ikinyamakuru kihariye kivuga ku bushakashatsi n'ubuzima, nta n'ubwo nari nzi ko muri Afurika y'Iburasirazuba hakorwaho ubushakashatsi kandi hari ibintu bivumburwa bijyanye n'amajyambere n'uburwayi bw'abantu.

Amagambo republic of rwanda ministry of health yanditse mu ibara ry'ubururu munsi y'ikirangantego cya repubulika y'u rwanda birerekana ko hari ibyo bakoresha ku mutwe w'impapuro baba bandika za leta zijyanye n'ibikorwa by'ubuzima.

Abantu bahuriye mu cyumba, bari imbere y'umuganga uri uri mu nzira zo gutegura umuti wo kubakingira bose, bicaye bakurikiranye ugezweho ni umugabo wambara ijure ijya gusa n'icyatsi kibisi.

Umukobwa wambaye akajipo k'ubururu n'agapira kajya gusa nk'iroza witeze mu mutwe igitambaro cy'ubururu, ahagaze iruhande rwa convesheni. Handitswe na nonene haruguru y'umutwe we ko hari umunsi wo kurwanya diabete. Iyi fishe irahamagarira abantu kwifatanya n'abarwayi ba diyatete kugirango babashyigikire muzima barimo bugoye.

Iyi ni ifishi yanditse mu Cyongereza ivuga ko kanseri y'umura mushobora cyangwa se dushobora kuyirinda, biva mu Cyongereza biri mu Kinyarwanda kandi biragaragaza ko hari amashusho y'ababyeyi b'abagore bari kubihamya.

Mu buryo bwo kwisuzuma no kwigenzura, CHAI yashyize hanze igishushanyo mbonerahamwe cy'ibyo bakoze nk'ibisubizo ku bibazo byari bihari, icyo gishushanyo imbonerahamwe kubera yuko mu mirongo no mu makone make cyane umuntu ahita abona ibyagezweho.

Ku itangazo ryanditse mu cyongereza, tugereranyije mu kinyarwanda riragira riti "Kuwa gatanu ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa karindwi, ibihumbi bibiri makumyabiri na kabiri, ku isaha ya saa yine yo muri Afurika y'iburasirazuba, hari inama igenewe gukangurira urubyiruko ku bijyanye no kwirinda SIDA." Irabatumira abantu bose rero.

Inama yahuje abantu baturutse impande nyinshi, bambaye imyenda isa udupira tw'igitare tw'umukara ndetse biragaragara yuko bari mu kigero cy'imyaka imwe, ni abasore birasa nkaho bategereje umuntu ugira icyo ababwira mu nama bitabiriye.

Abihayimana n'ibigo by'abihayimana. Bagira ibikorwa bigaragara mu guteza imbere ubuzima bw'abantu. Ndetse iyo bahuye n'abayobozi, baraganira kandi bakarebera hamwe uburyo bashobora gushyira politiki by'Igihugu mu bikorwa. Aba bihayimana biragaragara ko ari ababikira bera. Niba mpereye ku byo bambaye.

Uyu mugabo n'umugore batwaye icyapa mu ntoki, barafatanyije kucyeyerekana, cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, ni ukukwibutsa ko rero nawe mbere y'uko urwara nibura wagombye kuba waripimishije sibyo se? ngaho rero tubikore bwangu dusigasire ubuzima bwacu.

Iyi nyandiko iragaragaza ibimenyetso biranga diyabete. Ni imwe muri za nyandiko bomeka ku rukuta kwa muganga buri wese ashobora kureba ari kure. Muri ibyo bimenyetso harimo gucika intege, harimo kutareba neza ndetse no kumva unaniwe kenshi, hari ugutakaza n'ibiro. Ni inyandiko yandikishije inyuguti z'umukara itangarizwa buri wese iyo ageze kwa muganga.

Amabaje ya NCD yanditsweho Non-Communicable Diseases. Abantu bamwe ntago bazi icyo bisobanura. Ariko mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo:"Indwara zitanduzwa."

Umugabo ukuze ararebesha ijisho rimwe, irindi ririho igipfuko wagira ngo ni ikindi gikoresho yahisemo cyo kurebesha, urirebye neza ni ibikwereka yuko ijisho rye rifite ikibazo ahubwo avuye kwa muganga.

Iyi fishi ijyanye na Kovide, iravuga yuko Kovide yashyize icyuho kinini hagati y'abantu, bibangamira ubuzima muri rusange yuko ndetse icyo cyuho mu gutanga serivisi z'ubuzima kigaragara cyane kurushaho mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere.

Abakobwa bakiri bato bambaye amapantaro afite amabara anyuranye, amwe muri ayo mapantalo ni umukara andi ni ubururu, harimo n'iy'umutuku. Bari kwerekana amakadere cya gikoresho kibikwamo amafoto ariko babyerekaniye ku mitwe yabo, ayo makadere afite amabara y'iroza bahuriye bose mu kwambara udupira dufite ibara ry'igitaka.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, ni amagambo yanditse ku cyapa kigari, gifite ibara ry'ubururu, ijambo rimwe "Twirinde" ryandikishijwe inyuguti nini z'igitare, naho "indwara y'ubushita bw'inkende", byanditswe mu nyuguti ntoya z'umuhondo.

Abategarugori bane baje kwa muganga buri wese yazanye umwana ubona ko akiri mutoya, bari muri koridoro byemeza yuko baje kubakingiza. Utwo twana twose buri wese afite akagofero barakeye kandi barishimye.

Abaforomokazi n'abaganga bahuriye ku meza bashyira imiti hamwe, barahamagara buri murwayi umwe umwe, bakamubaza uko amerewe, bakamubaza icyo arwaye, bakamuha n'imiti kugira ngo abashe koroherwa.

Umuzungu wambaye akagofero mu mutwe ufite igipapuro kigari cyanditseho ngo:"Monkey Vaccine Access Now." Ubisobanuye mu kinyarwanda ni ukuvuga ko ari kumenyesha aho anyuze hose ko urukingo rwa virusi y'inguge rwabonetse, kandi arahamagarira buri wese kujya kwikingiza.

Ku iseta ni ahantu abaforomo cyangwa se abaganga bazobereye mu byo kubaga bahurira n'umurwayi, bafite ibyuma bagira ngo bakore akazi bita kumubaga, iryo jambo kubaga riteye ubwoba, ariko riteye ubwoba mu buryo wenda bwo kubaga by'ubugome, cyangwa kwica amatungo, iyo tuvuga kubaga hano, ni ukurwana ku murwayi kugirango abashe kubaho.

Iyi nama yatumiwemo abantu banyuranye harimo abagore n'abagabo, babukereye bambaye neza, icyumba ni kigari, gifite amabara atukura n'andi y'umuhondo n'irindi bara ry'ubururu riciye hagati, biragaragara ko aba bantu bateze amatwi umuntu uri imbere yabo uri kuvuga kandi bamuteze amatwi.

Hari abantu badasobanukiwe y'uko no mu buzima harimo inzego. Hari ibitaro by'ibanze, hari amavuriro y'ibanze, hagakurikiraho amavuriro y'uturere aribyo ibigo nderabuzima by'uturere, hagakurikiraho ibitaro by'uturere ndetse hagakurikiraho ibitaro by'icyitegererezo. Hejuru yabyo hakaza inzego z'ubuyobozi zishinzwe kubihuza.

Mu gihe cya Covid buri wese aba agomba kuba yambaye agapfukamuwa; ari umurwayi, ari uwaje kwikingiza, ari na muganga, iyo bari kwa muganga rwose bose bagomba kuba bakambaye. Umurwayi wambaye ishati y'ubururu ari kumwe na muganga wambaye itaburiya, arimo kumukingira ku kaboko k'iburyo agiye kumutera urushinge.

Inama yahuje abantu baturutse ingeri zose kugira ngo batekereze ku mutekano kwa muganga ndetse barebe n'icyatuma uwo mutekano urushaho kunoza inshingano zo kubungabunga ubuzima bwacu. Harimo abantu rero abagabo n'abagore kandi bose urabona buri wese afite icyo ari buvuge.

Kwa muganga hari uwahaje kwikingiza, nkurikije ko buri wese afite agapfukamunwa ku munwa, ni ibyemeza ko ari rwa rukingo rwa Kovide ari kwiteza ariko uwo barutera urabona yagize impungenge cyane kandi ahari ruri kumurya.

Abazuhungu batatu barimo babiri b'abagore, bari kumwe n'abirabura b'abagabo bane, bari imbere y'ibitaro, bambaye baje iriho amazina yabo, biragaragara yuko bavuye mu nama, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ikirango cya Arabisi, kigizwe n'inyuguti eshatu, arizo, ari bi si. Zose uko ari eshatu, zanditswe mu mabara, anyuranye. Ari yanditswe mu bururu, bi yanditswe mu muhondo, si yanditswe mu cyatsi kibisi. Byerekana amabara agize ibendera ry'u Rwanda. Hepfo handitswe, ngo herufu pipo werufu nesheni. Ubuzima bw'abaturage, nibwo bukire bw'igihugu.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima, uri kuduhugurira guhugukirwa n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uri gushyira amatangazo ahanyuranye kandi ugira ngo buri wese koko arusheho gusobanukirwa n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima, cyane cyane ku birebana n'akarere ka Afurika, iriho abantu bambaye udupfukamunwa, ari abaganga, hari n'abandi basanzwe, baba abakozi b'uwo muryango na bo bambaye udupfukamunwa.

Amsterdam ku itariki ya makumyabiri na kane kugeza kuri makubiri na gatanu mu Buholandi, habereye inama yita ku mirire n'ubuzima bwacu, iyo mpaba ngo menye icyo bahavugiye kandi simbasha no gufungura uyu murongo unyereka iri tangazo ngo ndusheho kumenya bimwe mu byari bigize iyo nama.

Merdical research insititute ni ikigo kinini cyubakitse cy'intangarugero rwose mu myubakire umuntu yabona y'uko igikorwa gishyigikira ubuzima buri gihe leta yagiye bigaragara mu nyubako nziza.

Progress pharmacy ikorera mu cyumba kigari kirimo utubati tugizwe n'ibirahure, imiti iri muri utwo tubati, imwe iragaragara ariko hari n'indi ubona yuko iri mu tubati tugizwe n'urubaho n'ibara ry'igitare itagaragara.

Ahantu hose uzabona handitseho ngo Pediatric Center, ujye uhita utekereza ko ku buryo bw'umwihariko ariho umwana avurirwa. Ababyeyi bose niho bazana abana kugira ngo bitabweho by'umwihariko n'umuganga wabizobereyemo.

Ibitaro bya gihundwe byubakishijwe amatafarihiye, bishakakajwe amabati y'ubururu. Muri ibyo bitaro hari ahagenewe ku buryo bw'umwihariko wo kuvura amaso, nk'uko bisanzwe ku bitaro hari ahantu ubona ko haba hagenewe ubusitani.

karayesi abantu iyo ubonye uko ari ndera bahita babyitiranya n'ibitaro by'abasazi, nyamara ni ahantu buri wese ashobora kujya kugira ngo asobanukirwe n'ibibazo cyangwa se n'ubuzima bwo mu mutwe kuhitirira abasazi rero ntabwo biciye mu mucyo.

Ibitaro bya Kabgayi ni ibitaro bizwi cyane mu Rwanda. Ukihagera, rwose n'iyo waba utareba neza, ariko inyuguti zanditse ku marembo yaho, ni nini ku buryo n'iyo waba uri kure gute, wazibona ukamenya ko wahageze. Abantu ba Kabgayi bazi ko ibyo bitaro bibabumbatiye runini, mu kurengera ubuzima bwabo.

Ibitaro bikuru bya kaminuza bigizwe n'amazu menshi kandi manini, ukurikije icyapa uhabona muri ayo mazu hakorerwamo ubushakashatsi, andi hakorerwamo ubuvuzi, ayandi ni agenewe aho abanyeshuri bigira bo muri kaminuza.

Turi mu bubiko bugari cyane, aho ubona ko ibibitswemo byose bisa kandi byakorewe hamwe, harimo utubati tunyuranye, ndetse harimo umuryango umwe usohoka ugana hanze.

Kwa muganga haba hari inyubako zinyuranye, yewe muri izo nyubako hakaba hari n'ibyumba biba bitandukanye ariko uhabona n'ibyapa bigenda bikuyobora niyo mahirwe umuntu aba afite, iyo uzi gusoma uhita umenya serivisi ukeneye aho iherereye.

Mu rwakiriro rwo kwa muganga haraboneka abagabo babiri, umwe yambaye agapira karimo ubururu bwerurutse, akandi gapira k'uyunguyu ni ubururu bwijimye, bari kuvuga n'umuntu ushinzwe reception, umwe wa wundi wambaye agapira k'ubururu bweruruka ari gusobanura ibibazo bye.

Umuntu utazi gusoma, ni we wambaza ngo ahangaha ni hehe. Urebye kino cyapa, uhita ubona yuko wageze ku mupaka. Nta hantu ugomba kujya kugira ngo bagupime, basange nta muzi ufite. Niba ufite umuze, usubireyo uturutse.

Ni ibitanda bibiri biri mucyumba kimwe ariko hagati bigaragara ko bitandukanyijwe n'ipaviya, ishashishijwe amashuka y'icyatsi, ubona neza yuko ibyo bitanda bikoze mu cyuma, muri icyo cyumba hari umucyo kandi harimo irangi ry'igitare amapaviya yaho ni ubururu.

Erega buriya hari ibintu utagombye gusobanura, nonese iyo icyapa kiri mu marembo, kikerekana neza inzego z'ibitaro izo ugiye kureba, ndetse ukabona n'izina ry'ibyo bitaro, wakongera ukabaza ngo ahangaha ni kwa Nyirinkwaya, aha ni kwa Nyirinkwaya rwose nta kujijinganya, kiriya cyapa byanditseho.

Amaraso ahabwa indembe ni ingirakamaro cyane, indembe kenshi niba ishoboye kurya, ni yo mpamvu abashinzwe ubuzima babivunjamo kubaha ibifasha amagara yabo babinyujije muri serumo, izi serumu rero ziri gutegurwa ngo zize gutangwa mu ndende.

Ku bitaro bigenewe kuvura amaso, hari inzu ikomeye igizwe uruhande rumwe n'ibirahure, imiryango ibiri y'aho binjirira igizwe n'imbaho zikomeye za ribuyu, hasi hari urukuta rw'amabuye akomeye kandi atsindagiyemo sima. Ikirango cy'iyo nzu kiri ku rukuta, hari ijisho ry'umuntu ureba rireba kandi rikanuye.

Ukigera kwa muganga ubona ari ahantu hasukuye hasa neza hari isuku, buri murwayi aza yakarabya cyangwa yatoranyije umwenda mwiza ugakeka ko ari ahantu koko hakwiye gusigasira ububabare bwacu nyamara kuko aba aribyo, ariko igira hirya urasanga imivu y'amaraso, ugasanga abarwayi badahumeka, urasanga abenda gupfa ukeke ko waageze mu muriro uta.

Muri stock y'aho babika imiti usangamo ibikoresho binyuranye, uzi ko na konjerateri zihari? Hari utudobo, hari imifuka ya plastic, hari ameza na za tiruwari, konjerateri zo rero ndetse na shambure kuruwade zituma imiti itangirika.

Amabara y'inyubako zo kwa muganga usanga haberanye n'ijisho kandi arinda kunaniza abayareba, iki cyumba ni kigari kirimo ibara ry'igitare, usibye ahantu hake kandi naho hari ibara ureba ko rikeye ni ubururu bujya kweruruka, bivuga ko kwa muganga amabara y'umuhondo n'andi atukura kenshi dukunda kuyahabona.

Tugeze muri farumasi. Hano hitwa muri Progress pharmacy. Murebe uburyo batondekanya imiti yabo. Yorohereza uhageze kubona uwo yifuza vuba. Ushobora kuwutunga urutoki ako kanya muganga agahita awuguhereza nta kwibeshya.

Iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi, ku ikubitiro biragaragara ko hakoreramo parumasi yitwa paniyeli, icuruza imiti bakorana na rama kandi bagakorana na indeste universite nationale y'u Rwanda.

Ubu se kandi nabwo muracyambaza ngo aha ni hehe? Iyo nzu ntabwo muri gusoma ibyanditseho? Murabibona rwose ni ikigo nderabuzima cya Rwerere. Rwerereye ni mu karere ko mu burengerazuba kera hahoze ari ku Gisenyi.

Umugore uhetse umwana agaze imbere ya centre de sante ya kigina, ni mu marembo neza neza narenga metero eshatu araba ageze aho agomba kuvuriza umwana we, ni ikigo gikomeye urebeye inyuma mu nyubako zacyo no mu mpande zose, ni ikigo urebye gifite amarembo manini cyane kandi gifite umuzenguruko n'uruzitiro nabyo bigari cyane.

Mbisubiremo abantu benshi bazi ko inyubako zo kwa muganga zigarukira ku nkuta za rukarakara cyangwa se z'amatafari ahiye na boroke. Nyamara mu nyubako za muganga zo kwa muganga harimo imashini zinyuranye, amakompiyuta, imashini z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho bya kijyambere bikoresha electronic.

Nta kintu kinshimisha nko kubona igihugu gishyira ingufu zacyo mu kubaka ibitaro nk'inzu y'ikitegererezo iranga ubwitange n'urukundo rw'abantu. Iyo ugeze ku nzu yo kwa muganga ubona ko hashowe amafaranga, ikimenyetso rero cy'amafaranga ni ikerekana yuko ubuyobozi bw'igihugu buba bwitaye ku magara yacu. Hera kuri izo nzu tureba hafi yacu.

Muri koridoro hari intebe ikoze mu cyuma ariko nta bantu bayicayeho. Urukuta ruteganye n'iyo ntebe hashushanyijeho ijisho, hari ikiganza gifite ibikoresho byerekeza kuri iryo jisho, byerekana ko ari imboni bagira ngo bakozeho, muganga agira ngo apime kandi ikibazo iyo mbone yaba ifite.

Ntushobora gukora kwa muganga ngo ube umunebwe, ugende gahoro n'inyanda zose tubona mu mihanda ya Kigali. Ifoto y'umukobwa tureba hano aragenda gisirikare nk'umuntu ugiye kurengera abari mu kaga. Biramubereye kandi nanjye ndabimushimiye rwose.

Inyubako zo kwa muganga ntizigarukira ku nkuta gusa n’inkingi tuba tureba. Inyubako yigaragaza kwa muganga irimo n’amamashini ya rutura nk’iyagaya, ture ukeka y’uko ari ya yandi bashyiramo imyenda bafura. Ese hano haba kuko ariho bita ko umuntu aba yaciye mu cyuma?

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzo, cyubatse neza pe, nawe ndebera izo nkingi uko zizamutse! urebe umuvurungo cyangwa se mu muviringo, igaragaza ubukorikori bw'umwubatsi ukuntu bibereye ijisho! nta nzu mbona y'ikigo nderabuzima igaragara nk'iyingiyi .

Kwa muganga ushobora kuhabona intebe zikoze neza kandi ziberanye n'uburwayi, hari igihe ziba zifite amapine kugira ngo zifashe utabasha kugenda kumugeza aho abasha kugera bamusunitse, ku nkuta uhabona imitako nayo iberanye n'ijisho, ishobora gutuma umuntu atiheba cyane kandi bikaruhura umutima we, kwa muganga uhabona kandi isuka itangaje.

Imbere y'inzu y'ababyeyi hariyo twita materneti hari ameza hariho igitambaro cy'umuhondo hari n'undi mugabo uri iruhande rw'umuryango hari n'abagore babiri bategereje abantu baza kuhaza basa nkaho biteguye abashyitsi ku buryo bahahagaze nk'abashaka kugira ngo baze kubavunyisha babinjiza imbere biragaragara yuko ariko batarahagera.

Kirinikedoretwari ni ibitaro biboneka hafi y'umuhanda bikorera mu nzu y'amagorofa abiri yubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'iryo gorofa hari amatara manini ku buryo kuhibwira biroroshye uhereye yuko iyo nzu igizwe n'amadirishya magari, manini mu mpande zose.

iyo ugiye kuri sangwa poykinke uhingukira ku marembo ku kazu gato ariko kariho icyerekezo cyaaho serivisi zose ziherereye hirya y'ako kazu urabona itsinda ryabantu basa nkahoho bahuriye ku kintu kimwe bari kuganira

Muganga ari muri laboratoire ari imbere y'imashini za rutura ziri gupima ibyo yashyizemo harimo kureba icyo izo mashini zamweretse muganga yambaye taburiya apfutse ku munwa bigaragare ko nano urebye n'ukuntu apfutse intoki kandi yigengesereye cyane ngo atandura igaragaza ko nawe azirikana ko covid ari mbi

Kubahiriza no gufasha abamugaye ni umuco ukwiye kuguma mu mibereho yacu, ikoranabuhanga ryadukoreye utugare, yewe hari udufite na moteri ariko aho bidashobotse tugumye kuba abantu tubabe hafi, tubafashe kudusunika tubageze na bo aho bagomba kugirira ikizere kwa muganga.

Icyumba kirimo agatanda ubona ko kakorewe abana. Imbere yako haba intebe y'ubwegamiro; hirya y'ako gatanda hari ishusho rigaragaza umwana ufite igipurizo uri gukina.

Umugabo wambaye kositimu y'umukara ari iruhande rwikibaho, kuri icyo kibaho bashyizeho igitambaro cy'igitare kandi imbere y'icyo gitambaro hari abandi bagabo babiri bicaye ariko ubona ko harimo n'umuganga imbere yabo uko ari batatu. Hari abagore n'abagabo bicaye ku ntebe bateze amatwi bishoboke ko bari mu mahugurwa.

Ibikoresho byo kwa muganga, birimwo ibitanda biri ku mapine ndetse n'ameza magari, ni bigari. Iki cyumba kigaragara nkaho ari ububiko, kubera ko nta muntu cyangwa umuganga ugaragaramo.

Birashoboka ko inzu nziza nini kandi ngari, irimo n'intebe nyinshi nazo nziza ishobora kuba ibereye aho ikabura muntu uyicaramo, ariko ni amahoro ubwo ari kwa muganga tutahabona abarwayi.

Icyumba cy'inzu yabarwayi ni kigari kandi ni kirekire, harimo ibara ry'umuhondo ribangikanyijwe n'iry'igitare, urumuri ni rwinshi kandi hirya urahabona umuforomo uri ku izamu.

Ifoto y'ikigo cy'ivuriro irerekana ubusitani bwayo n'umukozi uri kubukoramo, amazu yose agize icyo kigo aragaragara, urebye hirya urahabona inzu nini cyane, hirya yaho kandi ubona yuko nta yandi mazu ahari, iryo vuriro riri ahantu hiherereye kandi hatuje.

Ndashimira abantu bose batekereza kubaka ibitaro n'izindi nyubako zirengera ubuzima bwacu, ahantu hitaruye urusaku n'akajagari, byaba bibabaje dufite abarwayi bumva amahoni n'ababyinnyi bo mu kabari, ahantu rwose urabona hatuje kandi rimwe na rimwe hari n'igihe ngera ku bitaro, ugasanga harasa nk'urusengero, ubusitani bwiza n'indabyo biba bihari hose.

Muganga ari kumwe' nababyeyi babiri b'abagore basheshe akanguhe, bombi na ko ntabwo ari bombi uko ari batatu, abagore babiri na muganga wagira ngo babasutse inweri zisa, muganga afasha umwe mu bagore akaboko sinzi ikintu ari kumwereka.

Iyi nyubako ni kwa muganga, bigaragaze ko hari aho bita operation room, aho bashyira abarwayi bagomba kubagwa, inkuta zaho zirakeye, imiryango ibiri yaho irimo ibirahure kandi hasi hashashe sima ijya gusa nk'ikigina.

Ni inzu nini cyane uyirebeye kure wagira ngo ni uruganda, imbere yayo hahagaze abantu bageze ku icumi kandi urahabona n'imodoka ihahagaze, hirya gatoya hari abandi bantu nabo bahahagaze.

Abakobwa batatu bambaye amataburiya y'ubururu bwijimye, bateze mu mutwe udutambaro tw'ubururu bweruruka. Bahisemo kwifotoreza ku muhanda, hakurya urahabona igiti cy'umukindo, na ho hafi yabo hari ibindi biti bijya gusa nka avoka. Niba ari mu Bugesera ni cya gihe cy'imvura kuko urabona ibyatsi byose bitoshye.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ari mu biro, ari imbere ya computer, ari kwitegereza uburyo mu gituza h'umuntu haba hateye. Iyi shusho irerekana neza, uko iyo umuntu anyujijwe mu cyuma mu gituza he haba hameze.

Kwa muganga bagira ibikoresho byihariye by'iterambere, hari ibimashini binini bikoreshwa n'amashanyarazi hari imashini za electronic, hari n'iziba zimanitse mu kirere ukagirango ni amatara kandi nabwo ubwazo nubwo yaba ari n'amatara ariko afite inshingano yo gukora ibikorwa byo kwa muganga.

Kwa muganga niyo hasa gute icyumba cyabo gikubuye, inkuta zaho gisize amarangi y'igitare, amazi meza aboneka mu bidido bibengerana ndetse n'ibitanda byabo bishashe neza, nta n'umwe mu biremwa muntu, mu biremwa byose harimo ikitwa umuntu wakwishimira kuhamara umunsi umwe yabiteguye.

Ndemeza ko ababaye kwa muganga wenda ku mpamvu z'uburwayi cyangwa se kuhakora ari bo basobanukirwa n'ibikoresho bihambaye bihaboneka, njyewe iyo mbireye ku ifoto nkareba amamashini ahari, nkareba ibyo bikoresho by'ubuhanga buhanitse, ntabwo ntandukanya kwa muganga n'ahandi hose nakwita uruganda, naho ni uruganda rukora amagara yacu.

Mu cyumba cy'abarwayi harayemo abarwayi babiri. Ni nijoro, amatara araka uyarebera hanze. Mu nzu naho haraka. Muri abo barwayi uko ari babiri nta n'umwe wiyoroshe ku mutwe cyangwa ngo agire supanete yitwikira. Byemezako nta mubu uhari.

Buranankari ni agatanda kaba gafite amapine, bagashyiraho umurwayi utabasha kwigenza, iyo ageze aho muganga amusuzumira ahasanga intebe aba agomba kwicaraho, iyo ntebe hano ndabona isa n'iya muganga, iki cyumba rero ni kigali kugira ngo ibyo byose bibe byakorerwamo.

Muganga ari kuvura umurwayi we, arimo kumubwira ati|:'' Bumbura umunwa gira gutya.'' Ni nk'aho ari kumwereka amenyo ye noneho wamurwayi nawe akarushaho kubumbura umunwa amwigana kugira ngo arebe mu kanwa ke ikibazo yaba afite, afite igikoresho ari burebeshe neza mu kanwa ke noneho akarushaho kuba yamenya ikibazo umuntu waje amusanga yaba afite.

Ni abarwayi babiri b'indembe umwe urabona ko yanegenekaye cyane cyane uri ku ruhande ruri hano hafi, uri ku ruhande rugana ku rukuta we nibura arabasha kwegura umutwe, abaganga babiri b'abakobwa barabitaho urabona bashishikaye cyane.

Ni icyumba ubona mu burankari, urukuta rumwe rusize irangi ryubururu ahandi ni irangi ry'igitare, kurukuta urahabona isaha ndetse kurundi ruhande urahabona agatebe bicaraho bandika.

Ijambo ryigaragaza bwa mbere ukigera muri iyi nzu ubona ko idasanzwe ni wellness, wellness mu Kinyarwanda bivuga kubaho neza. Inzu ubwayo uko iteye, ibiyirimo, amakoteye, imitako, amarangi asizemo impande zose urabona y'uko ari umunezero. Hahirwa abantu batuye iyi nzu wellness.

Umugabo munini cyane wambaye ikabutura ya kake n'umupira w'icyatsi wijimye araryamye, yambaye agapfukamunwa, ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho serumu biragaragara ko arembye cyane.

Microsikop ni igikoresho cy'ingenzi mu gupima indwara z'ibyorezo ndetse inadufasha kuvumbura uko twabona imiti ihangana nazo muri izo ndwara z'ibyorezo izo tumenyereye ni nka kolera ni diyare.

Tugeze mu nzu progress pharmacy ikoreramo. Etajeri zabo biragaragaza imiti itondekanyije neza, munsi y'iyo miti hari utubati dusa nkaho tubitse indi miti ariko itagaragara, bifite ibara ry'igitare, hagiye hacamo uturongo tw'icyatsi.

Ni mu mayira abiri ajya ku bitaro ariko ayo mayira yose afite icyerekezo kigana ahantu hari inyubako yubakishije amabuye, itsinda ry'abantu bageze kuri batatu harimo umwe ufite imbago bakomeje berekeza ku marembo y'ibyo bitaro.

Mu cyumba cy'imbagwa ntabwo ari ibyuma gusa bihari, imikasi n'ibindi byose bifasha muganga kubaga, ahubwo witegereje neza hari ibindi bikoresho bya kijyambere biri eregitoronike cyangwa se bikoreshwa ubundi buhanga. urebeye ku nkuta urahabona ndetse na za mudasobwa.

Iki ni icyicaro, cya Burudi tekinorogi, ofisi. Winjiye imbere urenze amarembo gatoya, uhita uhingukira kuri resebusiyo. Amazu yaho, ajya gusa, kandi yubatswe mu buryo, bukomeye. Inkuta niho ibara ry'igitare, amatangazo yanditswe, mu ibara ry'umutuku, rivuga nyine ko hari aharebwa, ibikorwa, bijyanye n'amaraso.

Target farumasi ikorera mu nzu ifite etage. Nk'umwihariko wayo ikorera ahantu ubanza kuzamuka ingazi. Umuryango wayo urakinguye, ibirahure by'iyo nzu bigizwe n'ibara ry'igitare usanga hagiye homekwaho ibipapuro bivuga iyi imiti irimo.

Inyubako y'ibitaro y'amagorofa abiri iteganye n'indi bijya gusa neza wagira ngo ni impanga, ifite ibirahure bijya kuba icyatsi, ku ruhande rumwe hari amatafari ahiywe azamutse, imbere yayo hari abantu bambaye imyenda y'ubururu cyane ko ishati ni ubururu bujya kwereruka naho ipantaro ni ubururu bwijimye.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi bageze nko ku ijana, bambaye imyenda ijya gusa usibye wenda ko buri mugore afite igitenge gitandukanye n'icya mugenzi we ariko ku bijyanye n'udupira two hejuru, buri wese yambaye akajya gusa n'aka mugenzi we.

Abaganga bane bahuriye mu cyumba cy'aho bakorera. Umwe ariko ntari kugaragaza ku ifoto isura ye. Imbere yabo hari icupa ry'amazi, uwa kabiri uturutse mu ruhande rw'iburyo, afite ikirahure cy'amazi. Bari kuganira basubira mu byo akazi kabagejejeho.

Ahantu hose uzabona bariyeri, biba bivuga yuko iyo uhageze ugomba guhagarara. Birashoboka ko uhari ushinzwe kwinjiza abantu, yagusaba ibyangombwa. Cyangwa akabanza gusaka ibyo ufite. Iyo urenze kuri bariyeri atabikoze, ashobora kuguhamagara akagusubiza aho uvuye.

Inyubako ya Isange One Stop Center bivuga aho bakirira abakorewe ihohoterwa bashingiye ku gitsina ifite umuryango ukinguye, ni ukuvuga ko buri gihe iyo amasaha atangiye y'akazi uje wese yasanga hari umuntu umutegereje.

Inzu yubakishijwe amabuye ikikijwe n'ubusitani burimo indabyo ndende zitukura, hari agahanda karimo sima k'umugendererano kandi imbere y'iyo nzu hari abantu banyuranye harimo abagore bategereje, mu cyumba imbere hari abagezemo bigaragara ko bamwe basagutse bajya hanze.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye irimwo ibikorwa binyuranye, harimwo laboratore, VCT, CPL ndetse na AEV, ku ntebe y'urwegamiro ndende hicayeho abagore bageze kuri batanu bategereje gahunda ya muganga.

Ubu ni ububiko bw'imiti ivura abantu. Nk'uko n'ahandi hose ibibikwa bigomba kwitabwaho, imiti na yo bayishyira mu tubati kugira ngo itagira aho ihurira n'ubukonje ndetse bagomba kuzirikana ko n'ubushyuhe bugomba kuyangiza.

Mu kigo gikurikirana imivurire ishingiye kuri siporo harimo urubaho rwiza cyane, niho abantu bagomba kwicara iyo bahaje ariko witegereje impande zose usanga nta muntu wundi uhagaragara, amatara arakira hanze byemeza yuko ari nijoro.

Ugeze ku cyicaro cy'umuryango witwa Rwanda chidlren bivuga umwana w'umunyarwanda uhasanga amabendera abiri, uhasanga amabendera abiri, uhabona inzu ngari cyane ishakakaje amategura, mu mpande zose ahabanza hari ibara ry'umukara hagati mbere yuko ugera aho amategura atangirira hari ibara ry'igitare.

Kwa muganga haba imashini za rutura. Mu by'ukuri kuzibona ni uko uba warwaye bihambaye, naho ubundi iyo utararemba uvurirwa muri koridoro hariya kuri reception, hirya ya reception bakaguha igitanda, bakaguha imiti. Ariko iyo byageze aho bakujyana mu cyuma haba hiherereye hirya iyo ngiyo. Niyo mpamvu imashini ziba kwa muganga tutazimenya, ariko aho tuziboneye igihe cyose tuzibonye, turatangara cyane.

Muri salle ya muganga w'amaso hari amarinete menshi, ariko ubimenya ari uko ifoto uyegereye ukayigira ngari. Muri icyo cyumba kandi cya muganga w'amaso, hari n'ameza afite igitambaro cy'igitare, noneho imbere y'icyo gitambaro cy'ayo meza ndetse n'ayo meza uhabona ko hari agatebe. Kuri buri kameza hari agatebe kahateye ariko nta muntu uhari wo kukicaramo.

Inzu irimo icyumba kinini ariko ubona ko cyagenewe gupima kanseri. Ibikoresho byose by'ingenzi birimo bifatanye n'icyo cyumba ku buryo ubwabyo utabasha gutandukanya icyo cyumba n'imashini ubwayo yagenwe gupima kanseri. Icyumba ubwacyo wagifata nk'imashini yubakiye aho ngaho.

Ni imashini nini cyane ifite ibara ry'igitare n'irindi ry'ubururu. Imbere yayo hari umugabo wambaye itaburiya. Niba atari umuganga ashobora kuba ari umukanishi uri kuyikora. Cyangwa se undi muntu ubishoboye kugira ngo ngo ayihanagure. Iri mu bwoko bw'imashini bita Elekta.

Aho bakiriye abarwayi hari abantu batarenze icumi, ku ikubitiro ndabona umugore uhetse umwana ukurikiwe n'umugore ufite imisatsi y'ama menshi, iruhande rwe hari umwana w'umukobwa wambaye agapira k'ubururu, hakurikiwe n'akana gatoya kari inyuma y'umugore wambaye ikanzu y'umuhondo, hirya y'uwo mugore hari umugabo ufite ishati y'igitenge irimo amabara atukura, hagakurikiraho umugore wambaye ikanzu y'ubururu.

Iyi ndirimbo ahantu yajyaga iririmbwa ivuga ngo emera bakujyana, iyo wageze kwa muganga hari indi ndirimbo nabwira umurwayi ariko n'ubwo aba atayumva wakongeraho ngo emera bagutere iyo umurwayi yanegekaye nta mahane nta no kurwanya abamutere...

Inzu y'ababyeyi isize irangi ry'igitare hose, ifite inkingi zikomeye kandi isakaje amabati y'ubururu, ifite hirya inzu yindi yometsweho, ikikijwe n'ibiti byakuze, mu mbuga harasa nkaho ari itaka ry'inombe, ibyatsi bihari barabiribase.

nisac center mu kinyarwanda ni ukuvuga ahagenewe gukorerwa ubushakashatsi hano rero ni kwa muganga turahabona imashini zinyuranye muri cc center nta barwayi ushobora kuhasanga ahubwo haba inzobere ntiti kugira ngo bavumbure impamvu n'i ituma ibyorezo bimwe na bimwe biduhitana

Mu cyumba cy'abarwayi hari ibitanda bibiri, iruhande rw'ibyo bitanda hari imashini zizobereye cyane zimeze nka mudasobwa, ku rukuta rw'icyo cyumba hariho taburo nini cyane yerekana imbuto harimo n'iz'imikeri.

Konjerateri ifite imiryango itanu. Irimo ububiko bunyuranye kandi bufite za etajeri. Muri ubwo bubiko hari aho baseseka palete, ndabonamo palete imwe y'icyatsi kibisi. Bivuze ko hari aho bashobora kuba babika amaraso.

Ibitaro bya Rwamagana niba ntawasibye. Urebeye kuri iyi foto y'urwibutso bigizwe n'abakozi batarenga makumyabiri n'umwe. Nababaze mpereye iburyo ngana ibumoso. Harimo abagabo, harimo abagore, harimo abirabura ndetse n'abazungu. Ibi ni ibikwereka yuko hari ubufatanye mu nzego zose. Kandi urabona bakeye bose.

Kwa muganga bakiriye umwana w'umukobwa w'inkumi ariko urebye cyane, muganga arihutira kugira ngo amuhe serumu, undi mubyeyi ari na we umuzanye ari ku mutwe arimo kumutega agasego kugira ngo atanaga ijosi, Imana imufashe yoroherwe vuba.

Uyu mugore ari ku kagare, ari mu mbuga igana kuri ofisi, izina ryayo ritari gusomeka kubera ko ari kure, ariko ikirere cy'aha hantu ni cyiza, hari ka gazo keza, hari utwatsi dukeye, yewe hari n'inyubako ibereye rwose ijisho.

Icyumba kirateguye kandi igitanda gishashe neza. Gusa ku mashuka harambitseho amazi n'umutobe. Hirya y'igitanda hari mudasobwa ihujwe n'indi mashini nini, iri aho hirya ku mutwe w'igitanda. Urukuta ruteganye n'umutwe w'igitanda rufite ishusho nini igaragaza imisozi izuba rijya kurenga.

Kwa muganga hari ibikoresho binyuranye, bimwe bikoreshwa n'amashanyarazi, ibindi ni ibitanda bisanzwe, ibindi usanga biba bimanitse ku nkuta, ibindi n'ibyo bakurura, ibindi ni imigozi, ibindi usanga ndetse ari n'urumuri rudasanzwe muganga yifashisha.

Umusore utarengeje imyaka mirongo itatu w'imibiri yombi, washokoje igisunzu, ari gukora siporo ahagaze; afashe ukuboko kw'ibumoso aguhuza n'ukuboko kw'iburyo kuri guhindukira ngo gukore ku bitugu by'ukuboko kw'ibumoso, aragororokewe cyane.

Mbega amazi meza! Mbega ibikoresho byiza! Ariko se wabwirwa n'iki niba ari amazi? Ariko kanyanga byo wabimenya. Ikigaragara ni ikirahure bari gusukamo, yaba ari kanyanga, yaba ari amazi ntiwabimenya ariko byose icyo cyaba ari cyo cyose kiraturuka na cyo mu ibirika nziza kandi irabagirana.

Hari umuririmbyi wavuze ati :''Kurya imvange ni ingenzi mba mbaroga. '' Ariko n'iyo warya imvange zingana gute nturenzeho amazi ntacyo ubaukoreye umubiri wawe. Amazi ni ingenzi kugira ngo turusheho kugira amagara meza kandi turusheho no kuba ahasukuye. Amazi ari muri byose ari umubiri wacu ari naho tuba, amazi afite uruhare runini cyane kugira ngo tunezerwe.

Umuti witwa Stopain mu Kinyarwanda bisobanuye yuko uhagarika ububabare, uri mu icupa rya pulastike ariko munsi yawo na none handitse ngo komeza uwushyire ahababaye kugeza igihe worohewe.

Umugabo wari uri muri kuruse yo gusiganwa y'amaguru arivuyemo bitarangiye. Umutabazi aramwegereye, amufashe akaboko no mu mbavu, aramujyanye gahoro ngo arebe aho amwicaza noneho aruhuke, naturukwa abashe kuba yakomeza.

Umugabo w'inzobe ukiri mutoya ufite ubwanwa ku kananwa no ku munwa hejuru y'umunwa mbega, afite icupa ry'amazi ararinywa afite inyota kuko ubona ashishikaye, bishoboke ko yiriwe ku zuba kandi avuye gukora siporo.

Ntibyari bimuhagije kunywa amazi kuri iri zuba ry'amanywa y'ihangu, kuyanywa byari byiza ariko ubushyuhe bwari bwinshi, niyo mpamvu afashe ka gacupa k'amazi uyu musore akimena mu musatsi, amutemba mu maso, ya mazi yari amaze kunywa, ndavuga ayo yari asigaje mu icupa.

Igitambaro gitukura cyane kizungurukije ku ruzingo rumeze nk'urw'igipapuro bajyana muri tuwarete, gikoreshwa iyo bari kunga abagize imvune mu by'ukuri kirakweduka kandi kigafasha amagufwa kwegerana, kwa muganga bagikoresha inshuro nyinshi iyo babonye uwavunitse ariko n'abakinnyi mu rugo rwabo bakunze kuba bagifite mu buryo bwo guteganya.

Umukobwa wirabura unanutse, yicaye hasi yarambuye akaguru, afata akaboko arakarambura akoza intoki ku mano kandi akandi kaboko agashyira ku itako rye.

Yambaye agasengeri k'umukara n'igikomo cy'icyatsi ku kuboko, mu kundi kuboko kw'iburyo afite icupa ry'amazi, ararinywa. Aragaragara nk'umuntu ufite inyota kandi uramubona ko ari mu zuba ry'igikatu.

Ntibyoroshye kumenya umuntu niba ari uw'igitsina gabo cyangwa igitsina gore igihe mu maso he hatagaragara, ariko uyu wambaye agapira k'umukara, uri gukanda mugenzi we uryamye ku ivi kubera ko yavunitse, ashobora kuba ari umukobwa cyangwa umugore kubera ko agapira yambaye kagaragaza amabere.

Umuntu utagaragaza amaso ariko werekana ukuboko kwe kuriho igipfuko, ikiganza cy'ibumoso gifashe ku kuboko kw'iburyo ku kizigira. Arasa nk'aho ahakanda yumva niba ababaye cyangwa se bitamubabaza, uko bisa kose uranabibona yaba ari kwa muganga.

Ijuru rifite umucyo mwinshi, izuba rirava, ikirere ni ubururu, harimo uducu dukeya, icupa ry'amazi ya parasitike rirabengerana kandi riteruwe n'ukuboko kwarishyize hejuru ngo ribonwe n'abantu benshi.

Gukora siporo si ukwirunka ingendo ndende, si uguterura ibiremereye, si ukugimbagurana mu gukirana n'ibindi byose bisaba ingufu z'umurengera. Niyo wabyuka imbere y'igitanda cyawe ukinanura bifite akamaro. Nonese si nayo mpamvu, iyo wururukije umwana uba ugomba kumunura? Burya aba akoze agasiporo nk'uko izindi zose zikorwa.

Bandaje ni ijambo ry'irinyamahanga rikomoka ku gifaransa, ryemejwe mu rurimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo babashe gutandukanya iryo jambo n'irindi risanzwe twita igipfuko, igipfuko ni iyo ari igitambaro kijya gusa gutyo bashyize ku gisebe, naho bandaje bayishyira ahantu havunitse.

Abantu bakora siporo banywa amazi menshi, kandi koko baba batuturukanye, ayo mazi rero baba banywa ni ukugira ngo asimbure ayo baba bataye, umubiri uba ukeneye kwiyubaka kandi ntushobora kwiyubaka nabwo utabonye amazi, uyu mukobwa ufite isutiya y'umukara n'akajipo k'umukara, afite ikindi kintu cy'umukara kiri ku kizigira cye.

Abafite ubumuga bose niba bari bafite utugare nk'utu, yaborohereza. Bigatuma bagenda bumva bemye, aho kugenda bavunwa no gusunika gusunika, amapine ajya kubasumba. Amagare nk'aya akenshi aboneka i Burayi ariko no mu Rwanda atangiye kuhagera.

Ntabwo umubyeyi yaba anezerewe ngo ubiyoberwe, aramwenyura, ariko na none n'umwana umuri iruhande usanga nawe koko afite ibyishimo, akana kari iruhande rw'uyu mubyeyi kari gukoma mu mashyi, urabona ko kagiye kwakira umushyitsi, uru rugo rwose ururebeye hafi ni urugo ruzima rurimo abantu bishimye.

Ikirango cya Federasiyo ya Jido mu Rwanda, kigizwe n'abantu babiri bari gukirana. Bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye ibara ry'ubururu, undi yambaye ibara ry'igitare. Inyuma yaho hari imirasire y'izuba, kandi byose bikubiye mu ruziga rumeze nk'ipfundo.

Kuba mutoya ni byiza ukishimira umubiri wawe ugakora siporo kugira ngo Imana aho iba iri ireba uko wishimiye umubiri wawe, usagasira ngo udahura n'akaga k'uburwayi, birayishimisha noneho umubiri wawe ukarushaho kugira koko ubuzima nyabwo nk'uko Imana ibyifuza.

Inyubako zo kwa muganga zubatse mu buryo bwihariye, ibikoresho byabo biba bikomeye ndetse n'amatara ari hejuru mu rusenge rw'inzu aba afite umumaro wayo wihariye wo gufasha umurwayi, bigatuma muganga amenya neza icyo akwiye gukora.

Mu kibuga rwagati, umukinnyi yavunitse umuganga ushinzwe siporo no kunga abavunitse aramwegereye ari kumukanda mu mavi ari gusgaho amavuta mu gifaransa bakunze kwita pomade, nizere ko mu kanya gatoya ari buhaguruke akongera agakina.

Imvune yose ikeneye ubwungo. Ariko ushobora gukora ubwungo wifashishije amavuta cyangwa agatambaro ibihe byose. Ubwungo buteye ubwoba ni ugutuma amagufwa abiri ashobora gutana. Ni bwo na none uba ugomba gushaka ikindi kintu kiyahuza.

Ariko noneho menya ko ari imvune ahubwo ari ubushye, kubera ko ibiganza byombi urabona yuko bashyizeho igitambaro gipfutse hose, ntabwo ari imvune rero. Ubiheye kandi iri haruguru ku kaboko ko haruguru, bikongera bigapatira hejuru y'ikiganza.

Umugabo w'ibigango ufite amaboko manini, afite icupa ry'amazi ari kurinywa, izuba riraka ubona ko ari ryinshi, icyaka afite kirahagije kugira ngo amazi afite hatagira nayo asigaza.

Umukobwa w'inzobe ari gukora siporo, ahagaze ku kaguru kamwe, akandi arakazamura, akagafatira mu maboko abiri, hafi kugeza ku mukondo, yambaye agakabutura k'icyatsi, n'agasutiya k'icyatsi n'inkweto ze ni icyatsi.

Imboga n'imbuto birakenewe kugirango ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza ndetse iyo hiyongeraho no gukora siporo ni ingirakamaro, ariko imboga n'imbuto byonyine na byo ntibihagije niba tutongeyeho kugira ngo tuzirikane gukora siporo ari ingirakamaro.

Ubuvuzi bwo kwa muganga bugira uburyo bwerekana ibikorwa byabwo, uyu ni umupira ushobora kuba ari uwa vore cyangwa basikete ariko ucishijwemo impande enye, hagati muri izo mpande biragaragaza uruti rw'urugongo, ibindi bice byose biragaragaza ikigenderwaho mu buzima nka siporo, kuvura no gukina na Croix Rouge.

Umuntu utari kugaragaza mu maso ye, ngo tube twavuga niba ari umugore cyangwa umugabo. afite agatambaro ari kwikanda ku ivi. Biragaragara yuko kuri iryo vi hari ububyimbirwe cyangwa se ko yanavunitse.

Muri sale y'imbagwa. Abaforomo bambaye amataburiya y'icyatsi. No mu mutwe bambaye utugofero tw'icyatsi ariko tumeze nk'udusashi. Barimo gutegura ibikoresho bari buze kwifashisha. Barimo no kujya inama bibwira cyangwa se bungurana inama y'ibyo bakwiye gukora byihutirwa kurusha ibindi.

Ku meza hahuriyeho ibintu binyuranye urahabona imbuto z'amoko ageze nko kuri atanu amacunga, indimu, inananasi hagati urahabona na none kandi ibikoresho bya siporo bijyanye nko guterura hirya ku ruhande urahabona ibinini ndetse n'imidari.

Ndebera nawe igikapu cy'umusiporotifu ukuntu giteye, urabonamo ibinini by'amoko anyuranye, urabonamo ibitambaro byo kwipfuka igihe yaba yavunitse, urabona uducupa dutwaye amavuta anyuranye, muri cya cyizere afite yuko siporo irema ubuzima, aragaruka akanemera yuko siporo ishobora kumutera akaga, ese koko ibi ngibi wasanga ari byo dukwiye kuvuga ngo siporo ni umuti wacu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, hari gukorera massage umwana w'umukobwa wambaye aga pinjama kirabura, uryamye akamugorora amukorera massage afatiye ku itako, bari mu rukuta rwifiteho ibara ry'igitare, hari umucyo, kandi umukobwa aguwe neza nk'uri kuruhuka.

Agasanduka k'imiti y'ibanze n'ubwo aba ari gatoya ariko kaba karimo imiti y'ingenzi y'ingirakamaro kugira ngo irengere ubuzima bwacu, tukabona mu buryo bunyuranye, gashobora gutungwa n'abakora siporo, ariko na buri muryango wari ukwiye kukagira.

Niba amazi ari ubuzima na siporo ikaba yubaka ubuzima? mwajijinganya igituma uyu mukobwa uri gukora siporo tubona koko aberanye n'urugingo afite none? ni mwiza murebe ingingo ze zose.

Nyamara rero n'ubwo inyuguti zitagaragara neza ariko warageze kuri Faisal, ntabwo wajijimganya rwose ko aha hari ku bitaro byaho, biragaragara uhereye ku tuyuguti dukeya turi guhinguka niba uzi gusoma wabyemera.

Uyu mugabo nawe hari kwa muganga, hafite igitambaro gikweduka cy'umuhondo hagati y'amaboko abiri aho agenda akwedura nkaho ari rasitike, muganga arasa nkaho amwereka aho agomba kugarukira.

Iyo ubonye abantu bambaye amajire atukura, hejuru y'imipira y'igitare, kuri ayo majeri hariho umusaraba kandi bafite umuntu batwaye mu maboko, uhita wemeza y'uko ari abashinzwe igikorwa cy'ubutabazi. Nibyo by'ibyo turimo kubona.

Mu gasanduku k'imiti yihutirwa ushobora gusanga ariho hose cyangwa mu rugo, ubonamo ibikoresho tutazirikanaga cyane, harimo udukasi, udutambaro two gupfuka intoki, harimo imiti ya grippe cyangwa se iy'inkorora n'ibinini by'ibanze yewe harimo n'ikindi gikoresho cyafasha kurinda umwana.

Uyu musore afite akaguni k'amazi mu kanwa, urebye uburyo akagundiriye wagira ngo ni umwana mutoya ucigatiye ibere rya nyina, ukuntu ahumirije birerekana aho inyota yari imugejeje.

Umugabo wari uri muri siporo, aricaye. Ni ukuvuga yuko ntakibasha gukomeza siporo yari arimo, ahubwo ari kugarura ikirenge hirya no hino, afashe ku gatsinsino, agira ngo yumve neza ikibazo nyacyo aho giherereye.

Imbago ziri ukwinshi, hari izo bashyira hagati y'amaboko umuntu agacumbagira zikamufasha guhagarara neza ntahirime ariko hari n'izindi ziba zimeze nk'akameza umuntu ashyira imbere ye akagenda akimura agatera agatabwe, icyo gihe umuntu aba yaragize imvune ishingiye ku rutirigungo.

Imbago ziri ukwinshi, hari izo tubona zikoze mu biti binini bivuna ufite imvune n'ubusanzwe ariko uko bisa kose nubwo biba byitwa imbago, bifasha nyine uwavunitse none ndebera izi mbago ukuntu ari ntoya zoroshye kandi zikomeye.

Siporo ntabwo ikorwarwa abantu birukanka mu muhanda, siporo ntikorwa abantu baterura ibiremereye, siporo ntabwo ikorwa abantu bakina umupira, aho waba uri hose, waba wicaye muri nyakatsi, waba uri wenyine ushobora kugorora ingingo kandi bikabera ubuzima muri rusange.

Mu gasanduku gatoya kabamo ibikoresho byifashishwa by'ibanze kwa muganga, ndabonamo ipamba, harimo umukase harimo n'udupfuko, ibyo bintu ni ingenzi kugira ngo ngo bitabare umuntu uhuye n'akaga mbere yuko abanza kugera kwa muganga, arabikoresha ariko n'ubundi ntibimubuza kujyayo.

Ibyo turya, n’ibyo tunywa, ndetse n’ibyo dukora, ni byo bigaruka bikarema ubuzima bwacu. Uyu mugore utagira uko asa, ari kunywa amazi, afite inyota, yitaruye ibimubangamira byose, ajya kuruhukira hafi y’amazi, ahantu ubona ko hacyeye kandi hakwiye koko kumuha ituze ry’umutima n’amahoro yose.

Izuba ni ryinshi, ni rya rindi bita ko riri kumena imbwa agahanga, ariko ryaba ryinshi ryagira riri hafi kurenga, umukobwa wirabura niba atari izuba ryamurasiyeho bigatuma agira igicucu cyirabura, afite icupa rifite nka litiro, biragaragara ko nta kindi ari kunywa usibye amazi, inyota yari yamurembeje.

Amazi ni meza ku buzima bwacu usibye kuba tumara inyota, atuma n'uruhu ruhora rubobereye, amazi ni meza kugira ngo ibyo twariye bishobore kuyoboka ubuzima no kugira kandi ibyo twariye bibashe kuvamo proteins z'ingirakamaro.

Ibikoresho byo kwa muganga biba bikomeye. Ni byiza biba bikoze mu byuma. Ubirebye n'ijisho ryawe wabitangaho amafaranga menshi. Niyo mpamvu leta iyo ibiguze, iba iteganya ko bizakoreshwa igihe kirekire.

Umugururo umwe winkweto, ufite ibara ry'umukara bigaragara ko ukoze mu ruhu rukomeye, ufite na taro ndetse ishobora guhangana n'amabuye akomeye cyane, nk'amakoro uri hejuru y'ubutaka, nta muntu uri iruhande, wagira ngo uri kumukwa utegereje baza kuwugura.

Mumenyereye kumva umugani w'abanyarwanda uvuga ngo:" umuntu yishima aho yishyikira ", ariko iyo ndebye amaboko y'umuntu ukora siporo ntekereza ko ashobora kurenza aho njyewe nakwishima mu gihe ntakora siporo, ingingo ze zose azerekeza aho ashatse kandi akageza aho yifuza.

Umukobwa uri gukora siporo yambaye agasengeri n'agapinjama k'ubururu, azamuye amaboko yayashyize hejuru, imbere ye hari ururabyo ruri mu ivaze, aranezerewe kandi icyumba cye kirimo urumuri, wagira ngo ni itara rihacanye.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo umukinnyi uryamye, bigaragara y'uko ahuye n'ikibazo. Nta wamwishe kandi kubera ko na bagenzi be bari hirya na bo bibaza ibyabaye. Abashinjzwe igikorwa cy'ubutabazi bamuri hejuru, bamwunamyeho bagira ngo barebe impamvu nyayo y'ikibazo nyacyo nyakuri yaba yahuye na cyo kugira ngo barusheho kumenya icyo bakora.

Uyu musore ari mu nzu ibikwamo ibikoresho, harimo utuneza dufite amapine, hari ibikoresho biri muri za etajeri, biragaragara ko yasuwe ari kwereka abantu bamuri imbere buri kintu kandi agisobanura.

Umugore wihebeye siporo. Kuva natangira gusoma ni we nagumye kubona, ni we uri gukora siporo, arakambakamba, arihina akihinura, arirukanka, yewe wagira ngo ni we mugore ku isi ukora siporo wenyine.

Gukora siporo ntabwo bisaba kwiruka cyane, gusiga abandi, umuntu ashobora gukora siporo yicaye kandi bigafasha ingingo, bikananura umubiri we, bikamuha icyerekezo cy'amagara mazima ,kandi akabaho nta muze afite. Uyu mukobwa we aho yicaye, arahuza amaguru n'amaboko ,ugasanga buri rugingo rwose rwihinnye, cyangwa se rwirambuye.

Urebye neza ukareba amagambo yanditse kuri iri cupa stop pain, ukabishyira mu Kinyarwanda ni nk'aho ari umuti ubuza umuntu kubabara, uyu muti rero wakoreshwa no mu mvune z'umubiri wacu.

Umukinnyi w'umupira yavunitse, ari kwa muganga aryamye, undi mugenzi we ariko we utahoze akina siporo ari kumukanda imvune ahereye ku mavi no ku bworo bw'ikirenge.

Siporo zajyaga zikorerwa mu nzu, bazikoreye hanze ku kibuga cy'umupira. Byahuruje abantu benshi, barabakikije, barabareba. Nabo barimo gusimbuka, bongera bagasimbuka, wagirango barabyina, ni nacyo cyatumye, abantu banga kuhava.

Iyi fishi yanditse mu Cyongereza ariko ntawe ukwiye kwirengagiza yuko buri wese akwiye gukina agamije guha mugenzi we umutekano, hari impanuka zibera mu mikino buri wese abishoboye yagombye kurinda mugenzi we noneho twese umukino ukarushaho kuturyohera, ari abawurimo ari n'abawureba.

Umuntu wahuye n'imvune ye hari imyitozo ngororamubiri bamubwira iri mu byiciro bine kugira ngo abashe gusubirana, ashobora kugenda gahoro, ku kaguru kamwe, ashobora kuzamura akaguru kamwe, ashobora gutera udutambwe bityo bityo uko agenda abikora buhoro bituma ubuzima bugaruka.

Umurwayi wageze muri koma ntaba akibasha kuvuga cyangwa ngo yumve ikimukoraho muganga mu buryo asigaranye bwo kumenya ikibazo afite ni ukwiyambaza ibikoresho byabugenewe kugira ngo amenye nibura ko umutima ugitera cyangwa se amenya yuko amaraso agitembera nguko rero ukuntu tekinoloji yatuma abantu barushaho guhangana n'ibibazo by'ubuzima.

Urebeye kure wagira ngo ni ibishushanyo bikoze mu biti ariko byerekana ibiryo, nyamara wakwigiza amaso hafi ugasanga ni amafunguro y'umuntu, yerekana koko ifunguro nyaryo uko rikwiye kuba riteye.

Umusore udafite ikindi kintu yambaye ku gice cy'umubiri cya ruguru ashyize ikiganza ku mutima. Mu bujana bw'ako kaboko haragaragara amabara adasanzwe arimo ubururu umutuku n'umuhondo. Byerekana ko ari ikimenyetso kihariye cy'uburwayi yaba afite.

Kuri iyi fishi urahasoma imyitozo icumi wakora mugihe ubwonko bwawe bwahuye n'ikibazo cyangwa wakomeretse. Mu ibara ry'ubururu urahabona imyitozo itanu wakora wicaye ku ntebe, naho mu rundi ruhande ari rwo rufite ibara ry'icyatsi urahabona indi myitozo itanu wakora uhagaze ariko ufashe ku ntebe.

Umugabo w'ibizigira binini ari mu cyumba ari guterura icyuma kiremereye, arashaka ko ibizigira bye birushaho kuba binini. Yambaye ipantaro y'ikigina n'agapira k'ubururu k'amaboko magufi.

Igikapu gitukura kirafunze ku buryo utamenya ibirimo, hirya gatoya ubona ibikapu bibiri ariko byo bifunguye harimwo amacupa y'ubwoko bunyuranye, harimo n'ibikoresho byo kwa muganga, ni ibyerekana yuko ari ibikoresho umuntu ashobora gukenera igihe ari ku rugendo kandi yakwitabaza vuba na bwangu.

Ku gifuniko cy'ikinyamakuru kivuga ibya siporo n'ubuvuzi bujyanye na siporo, bashyizeho umugabo uri kwikanda ku kaguru, n'ubwo ari umwirabura bigaragara yuko impande zose batazerekanye, akaboko ke karagaragaza ibara ry'umukara ariko akaguru karagaragaza ibara rijya kuba umutuku, byerekana ko muri ako kaguru habaye ikibazo, wenda ni imbwa zamufashe.

Siporo yita ku magara yacu ni siporo y'ingirakamaro cyane, idufasha kugira ubuzima buzima buzira umuze tutaravunika tutarahura n'akaga, ariko uwaba yahuye n'akaga na none, hakabaho umwihariko w'ubwo buvuzi bushingiye kuri siporo kugira ngo busubize ingingo zacu mu gitereko igihe cyane cyane umuntu aba yabonetse.

Ku meza hari ikirahure kirimo umutobe umeze nk'uw'amacunga w'umuhondo, mu kindi kirahure harimo amazi y'urubogobogo, kuri ayo meza kandi hari imbuto zitukura zinyuranye wagira ngo ni imikeri. Hari n'ibindi wakeka yuko ari tangawizi, urahabona uducunga dukasakase n'utuneke dukatakase ndetse n'icyuma kiremereye cyo guterura.

Uyu mugabo afite inyota wagira ngo ngo ari nko kuzimya inzu, hose yasamye hasa pe ndebera nk'ukuntu ayo mazi ari kuyaroha mu muhogo we, inyota yari imurangije yararamye ntaho wahakana yuko ibihaha bye byari bigiye gushya.

Ikarito yanditseho amagambo athletic tap ifite ibara ry'ubururu ryambukiranyije impande zose, muri iyo karito imbere yayo hari igitambaro cyerekana ibiri mu ikarito, icyo gitambaro ubundi nicyo gipfuko bashyira ku muntu wavunitse.

Icupa rinini rya palasitiki rifite igipimo cya litiro ririmo amazi y'urubogobogo, bari gusuka amazi mu kirahure cyiza kibengerana kugeza urebye neza amazi ageze muri kimwe cya kabiri cy'icyo kirahure.

Ubuvuzi bwa siporo bwiyambaza ibintu binyuranye, harimwo ibitambaro bipfuka ahavunitse ndetse n'amavuta basiga ingingo zavunitse. Byose ni ingirakamaro kugira ngo umubiri ubashe kwisubiranya vuba.

Arunamye, ugereranyije amaguru n'amaboko bikoze inyugutiya Z, yambaye hose imyenda y'umukara, ashyize amavi hasi, ashyize n'ibiganza hasi, arabikora inshuro nyinshi azamura amaboko akongera akayagarura hasi.

Umugabo ugororokewe, ari muri siporo arasutamye, arafata ukuboko kumwe kw'iburyo akakugeza ku ino, akongera agafata ukundi kuboko akagukoza ku kaguru kari hirya, asa nk'aho atandaraje, yambaye ikabutura hejuru nta gapira afite.

Abantu benshi batinya kwipimisha ku munzani ngo badasanga bananutse, baharanira kubyibuha, bakaba ari byo bashyira imbere, ariko bamara kubyibuha by'indengarugero bikabaviramo na none uburwayi, icyiza rero ni ukugira ibiro n'uburebure biberanye, ndumva ariyo nama naha buri wese kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugore ukiri mutoya ahagaze ku gaguru kamwe, azamuye akandi ahinnye ivi, aho agejeje ni aho ashoboye. Amanuye amaboko arayahuza. Aho ari urabona ko ari gukora siporo.

Umubikira ari kumwe n'umwana mutoya. Ateze igitambaro mu mutwe, cyagenewe ababikira. Iruhande rw'uwo mwana mutoya hari umuzungu, umufashe amaguru. Bari kwifotoza; akana kari kumwenyura, n'uwo muzungu ari kumwenyura.

Umubiri ukora siporo ukenera amazi menshi. Niyo mpamvu abantu bakora siporo cyane cyane yo kugenda ku maguru, bitwaza uducupa turimo amazi aho bageze hose bakagenda banywa. Bifasha umubiri kugumana amahumbezi.

Umugabo wambaye agasengeri k'icyatsi n'igikomo cy'isine ku kaboko, yazamuye agacupa yari afite agafatisha amaboko yombi amazi yari afite ayadudubiza mu maso, birerekana ko izuba ari ryinshi ariko aho kuyanywa yahisemo kuyiyuhagira.

Gukora siporo ni ingirakamaro, ntabwo ari ngombwa ngo twiruke imisozi cyangwa ngo tujye mu bibuga by'imipira, aho duherereye haba mu nzu haba ndetse n'ahandi hose umuntu afite uburenganzira abishoboye ashobora gukora siporo, gukora siporo rero ntibivuga yuko ari ugutsinda ibitego bamwe bakora siporo bakora pompaje.

Ibintu bito mu buzima bwacu nibyo kwa muganga babanza gushyira mu byihutirwa by'ubutabazi, agakasi gatoya ukabonye wakeka ko ariko muganga akwiye gutekereza, yewe muri ibyo bikoresho by'ibanze bikenerwa umuntu yahuye n'akaga harimo n'igikwasi, ngiki gitangaje nanone.

Umugore ugororokewe, ahagaze ku kuguru kumwe, ukundi araghina, asubiza ukuboko aguhuza n'amano ye. Ukundi kuboko arakurambura arakomeza arahagarara, byerekana ko agororokewe koko.

Yashashe agatapi hasi arangije akicaraho, ahina umugongo arambura amaboko akajya ayageza mu bworo bw'ikirenge, arabikora inshuro nyinshi, agenda agaruka, ari gukora siporo ku buryo ubona yuko ashishikaye.

Ni ikirahure kinini cyiza kiri gusukwamo amazi avuye muri firigo. Aya mazi arapfutse ku buryo uwanywa wese yamumara inyota. Ibigaragara kandi ni uko ibara ry'ubururu risanzwe rigaragaza amazi, ari ryo iyi foto yafatiweho.

Ku zuba ry'ihangu umugabo usa nkaho yakoze urugendo rurerure yirukanka yatutubikanye, mu kuboko kw'iburyo afite agacupa k'amazi ari kugenda yimenaho hose mu maso kandi yirukanka.

Umu siporutifu wavunitse, yaje yegera umuganga arimo kumushyiraho siparadara, ndetse banamushyize ikindi gitambaro gihuza ikizigira n'ukuboko, nabyo bishoboke ko ari ukugira ngo bimurinde ko amagufwa ajegera.

Umuntu ukora siporo agomba kurya indyo yuzuye kugira ngo agire intege, agire ubuzima buzima, ibaze umuntu wajya mu muvuduko no gusiganwa atabonye iyo ndyo yuzuye, ninde se yabasha gucaho, bose bamucaho, niyo mpamvu rero kurya ukora siporo ari ingirakamaro cyane, ndebera uwo muntu ukuntu areze intambwe yihuta.

Igiti ubusanzwe usanga mu bihuru no mu mashyamba, ariko wagera mu murima w'umuhinzi ugasanga atarakiranduye, ni ukubera akamaro akiziho, imizi yacyo cyangwa amababi hashobora kuba ari imihamuro cyangwa se inzaratsi, muri rusange na none gishobora kuba kivura.

Muganga ari kwereka umurwayi ikigero cy'umuti w'amenyo ukwiye gukoreshwa ku buroso bw'amenyo, ni na cyo kandi natwe dukwiye kuba twakoresha igihe cyose dushaka gusukura mu kanwa hacu, ni urugero rwiza rero buri wese akwiye kwitegereza kandi akarukurikiza.

Iki ni ikinyobwa kitwa "FAB" bivuga Forever Active Boost. Ni ikanete ifite ibara ry'umutuku, ni ikinyobwa cyemeza abantu ko gitera abantu imbaraga uramutse ubishyize mu Kinyarwanda usobanura ariya magambo.

Igiti cy'ishyamba gifite amababi atoshye, ari ku ishami ryashamikiye mu rubavu, hagati aho ngaho urabona yuko hari akayira abantu banyuramo, hirya yawo kandi n'aho hari ibindi biti byerekana ko atari umurima.

Nkibona ko rino cupa ryanditseho Skin Oil, nahise ntekereza ko ari amavuta yo kwisiga. By'akarusho iyo hariho ikirango cy'igikakarubamba, mpita nemeza y'uko aya mavuta afitiye uruhu akamaro mu buryo bw'intangarugero cyane.

Igiti gifite amababi ameze nk'ay'urunyanya, ariko warebera hafi ugasanga atari yo, yewe ntanubwo wamenya niba ari ururabo kuko nta ruraryo gifite, ariko ukibaza umuti gihatse muri cyo uwo ari wo, uwabimbwira namushimira cyane rwose.

Imiti gakondo hambere yameraga mu mirima no mu mashyamba ariko ikimeza ntawe uyitayeho tukaba ariho tuyikura, ubu rero byabaye ngombwa ko tuyivanayo tukayizana mu mirima yacu, ndetse tukayishyira no mu ntanzi z'urugo, aho tuyisiromo bitatugoye, ngicyo igikorwa mbona gikwiye gushimirwa, abatekereza ko gakondo yacu n'uyu munsi ikwiye kugira umwanya.

Imiti ya gakondo yahawe agaciro abantu barayitekereza rimwe na rimwe ugasanga no kuyibona iyo uri mu mujyi bihenze, nyamara ndibuka yuko kuva kera turi abana twaryaga imifumba, tukarya imikeri, ubwunyu bwa nyamanza, ibyo byose byabaga ari imiti ya gakondo yabaga afitiye umubiri wacu akamaro nk'abana kandi tugakura neza.

Ku rukuta hamanitse urupapuro runini rwanditseho aya magambo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo. Kuri urwo rukuta cyangwa se kuri iyo fishi hariho etageri iriho uducupa tunyuranye kandi hagaragara umugabo wambaye akagofero k'abayisilamu n'umupira w'ikigina. Bishobokeko nawe ari umuvuzi gakondo.

Imiti ya gakondo irimo ibyiciro binyuranye, imwe ishobora kuba imbuto, indi ishobora kuba indabyo, indi ishobora kuba amababi, indi ishobora kuba impeke, ni nako rero iyo miti ifite ibyiciro by'indwara na none binyuranye ivura, ariko icyo ihuriyeho ni uko byose bibereyeho gufasha umubiri wacu.

Ameza hateretsweho imiti ya gakondo y'ubwoko icyenda. Imwe iri mu macupa, indi iri mu makarito, indi iri mu bikarito binini wagira ngo ni imitobe yo kunywa, indi ndetse iri mu ducupa dutoya tumeze nka twa tundi twa korogate.

Amasegonda mirongo itatu nti ahagije ngo ubashe kuvuga ubwiza bw'ururabyo buri ku gice cya metero imwe. Ururabyo rwiza rutukura rumeze nk'uruyuzi rumeze na none nk'ishu, ari indabyo rufite ni agahebuzo cyane.

Abakire baragowe! Nshima ko barya neza, kandi ni ingenzi. Ariko, wagaruka ku meza yabo, ku meza yabo, ugasanga hari n'imiti na none bashyira mu nda zabo, ihenze, kandi mu by'ukuri yangiza.

Umuravumba ni agati kamera mu ishyamba, gakura kajya hejuru kakagira amababi ajya kugira ishusho nk'iy'umutima, mu by'ukuri karahumura hariho n'abagashyira mu cyayi, rimwe na rimwe ariko kubera uburyaryate bwako abantu baragatinya bakagakekeraho gusa ko karyana, gafite umumaro mwinshi mu gufasha abantu gukira inkorora.

Ni udukarito dutoya tumeze nka twa tundi bashyiramo biswi cyangwa shokora. Tumwe turagaragaza yuko turimo ikawa, utundi turimwo ibinini, ariko uko bisa kose birerekana yuko hari ibigenewe inyongeramirire.

Umurima wabaye ikigunda nubwo nta biti birebire birimo ngo bigaragaze yuko ari ishyamba, ariko harimo ibyatsi byinshi binyuranye ndetse kimwe cyarakuze kigira indabyo z'igitare, uyu murima ukenewe kuba wahingwa kuko harimo gusa ibyatsi byo mu gasozi.

Njya nibaza nti ese koko imiti yose tubona hanze aha tuyite imiti cyangwa ni ibicuruzwa nk'ibindi byose, kuko biramvuna gushyira itandukaniro hagati y'amashokora mbona kuri za butike zacu n'amabombo n'amabiswi ahari n'uburyo bayacuruza n'uburyo bayafunika, noneho wajya no muri farumasi ugasangamo amavuta anyuranye batubwira ngo ni atuma uruhu rwacu ruba rwiza.

Imiti ya gakondo ntabwo ari ukuyinywa kubera ko amababi cg se itahinduweho na gatoya, barayihindura, bakayitanga ari amazi igatangwa mu macupa, ibi nibyo buri wese abona hano, urebye aya macupa uko akurikiranye, wagira ngo ni divayi cyangwa se indi nzoga y'agaciro abantu bategereje cyangwa se nk'umutobe.

Ibase y'umukara itewemo igiti gifite amababi atoshye, hejuru yo kuba icyo giti cyaba umurimbo, amababi atoshye arerekana nanone yuko akenewe mu buryo bwo kwivura bwa gakondo.

Ifishi iri kwamamaza ikinyobwa cyitwa Forever Lite Ultra, igizwe n'amabara y'ubururu anyuranamo, hariho ikirahure kuri iyo fishi cyafotowe gisukwamo uwo muti, ufite ibara rijya gusa nk'umuhondo uvanze n'icyatsi.

Igikakarubamba kirahingwa mu Rwanda, ntabwo nari mbizi, hano ni urugendoshuri harimo abayobozi, harimo ahari n'abantu bahuriye muri koperative igamije guteza imbere icyo gihingwa mu Banyarwanda no mu mirenge y'uru Rwanda.

Amacunga ni ingirakamaro cyane mu bijyanye no guha umubiri vitamin c. Amwe ahisha aba umuhondo, andi ashobora guhisha agumana ibara ryayo ry'icyatsi. Yaba umuhondo cg se yaba icyatsi agumana uburyohe kandi akagirira umubiri akamaro.

Icyayi kiraryoshye cyane. Usanzwe agikunda wese akibonye kirimo indimu kandi iruhande rwaho hari umwenya, harimo amajyane mu dutasi twiza tw'igitare yakwifuza gusomaho. Biragaragara ko uyu muntu anyuzwe no kuba agiye kunywera icyayi ahantu heza, hari akameza k'uduti tubaje neza.

Forever iri mu bigero binyuranye by'amacupa, hari udutoya, hari ibinini, hari n'ibinini cyane nk'ibi ngibi cyose ariko ni nako biba bifite ibiciro bitandukanye.

Forceval Soluble ni umuti ukize ku mamiritivitamine, ni ukuvuga ni uruvangitirane rw'amavitamine anyuranye kandi ukizeye ku butare, ndetse ukaba wakunganira imirire y'abantu, ni umuti rero w'ingirakamaro ubona mu dukarito.

Agasekuru gatoya karimo umuhini harimo ibyatsi muri ako gasekuru bisa nk'aho bifite indabyo, hiya yaho gatoya urarabukwa yuko hari umurima ufite ibyo byatsi byeze, bigaragara nanone ko mu buryo bwo gutegura ubuvuzi bwa gakondo, agasekuru kagira uruhare rugaragara mu gutunganya imiti.

Amakarito atatu y'icyayi arambitse ku tugiga dusumbana mu buryo butandukanye. Akagufi cyane gafite ikarito y'ikigina, agakurikiyeho gafite iy'ubururu, akarekare gafite ikarito y'icyatsi. Ifoto yafatiwe mu murima w'icyayi gitoshye. Ni uburyo bwiza bwo kwerekana igicuruzwa cyangwa se ikiribwa, ku buryo abantu babona yuko bishimishije.

Biranshimisha kandi birantangaza iyo ubuzima gakondo koko, n'ubwo bigaragara ko aba ari imiti iba yarakorewe mu ruganda ariko ugasanga iyo miti irifashisha ibintu biva mu muco n'ibikoresho koko bya gakondo, biragaragara ko bino binini biri mu moko, kandi bifite ibara ry'icyatsi nk'aho bitigeze bigerwaho ihinduka iryo ariryo ryose.

Imiti kera abantu basangaga mu bihuru, ushobora gusanga abantu bayitera mu ngo zabo, mu ndobo zishaje, mu tubindi twabugenewe, bikaba umurimbo kandi n'ingirakamaro mu buzima bwacu.

Evare soribe ikize ku mavitamine anyuranye no kumyunyu ngugu. Ku bantu bazirana no kurya inyama, ndetse n'abatinya kuyibuha, batinya nyine ibiribwa birimo amasukari bayiyambaza kandi yagirira akama.

Muri gakondo y'Abanyarwanda hari imiti bose bahuriraho, usibye umubirizi, umuti uzwi cyane ni umuravumba turi kureba nonahangaha, umuravumba uraryana, abantu batinya kuwuhekenya.

Ubwoko bw'ibimera cumi na bibiri biboneka hafi yacu, biradukikije ubibona mu bishanga cyangwa ku misozi. Bimwe bikoreshwa mu rwego rw'amababi, ibindi mu mbuto, ibindi mu ndabyo ndetse ibindi ushobora kubikoresha wifashishije imizi yabyo. Bifitiye akamaro rero urusobe rw'ibinyabuzima ariko kandi biranatuvura.

Abanyarwanda tumenyereye kubona imiti inyuranye yaba iy'amenyo cyangwa se amavuta yo kwisiga yanditseho " Aloe vera". Icyo duhurizaho twese ni uko tuvuga yuko hari amavuta cyangwa imiti biba bifite ubwiza n'ubugirakamaro umubiri wacu. Kandi byose bikaba biva mu gikakarubamba.

Umuntu yakwibaza niba ari urumogi cyangwa se ibibabi by'imyumbati, ariko nshyize mu gaciro nkareba neza nakwemeza ko ari urumogi rwakuriye ahantu hari ifumbire kandi hari izuba hatoshye kandi hemera guhingwa imboga zikera, ntanuwampakanya rwose mbivuze gutyo.

Ni Abanyarwanda bakeya bazi akamaro k'ubuki, inzuki n'ibikomoka ku nzuki, usanga bibanda ku buki, ibindi byose bigize inzira y'inzuki bakabyibagirwa, ni bangahe bazi ko igishashara gifite intungamubiri zihambaye kurusha ubuki ubwabwo? ese ni bande bazi ko n'itsinda ari ingirakamaro cyane?

Uyu mugabo n'umugore bari mu ishyamba, bari kutwereka ibimera, ibimera bivamo imiti ivura abantu, ubuvuzi gakondo ntibushobora kubaho budashingiye ku bimera, ibimera rero usibye kuba bitanga amafunguro aduha kubaho ariko biduha n'imiti ituvura.

Agacupa gatoya kagenewe imiti k'igitare, kari iruhande rw'imbuto ariko ziganjemo amacunga. Kanditseho amagambo agira ati: "Forever Total Jelly."

Ubuvuzi gakondo uburebye neza ubona ko bwafashe intera ndende. Ntibagitanga ibibabi cyangwa se imizi, ahubwo barabitunganya bakabishyira mu ducupa ndetse urebeye hano, wagirango ni uruganda rw'inzoga cyangwa se rw'imitobe.

Izi mbuto zirasa n'izo tumenyereye iwacu mu buhinzi twita gaperi. Umuntu agasoroma ako kanya agakuye ku giti agahita agahekenya. Muturebabe uko duteye rwose nimumpakanya mumbwire n'andi mazina mwakeka ariko uko bisa kose niba atari gaperi nta nubwo ari imikeri.

Iki ni ikirango cya Rwanda FDA. Ni ikirango cyo kugira ngo umenye ko ibiribwa, cyangwa imiti ugiye guhabwa yujuje ubuziranenge. Iyo udafite iki kirango, ibyo wacuruza byose ntibiba byemewe ku isoko ry'abanyarwanda nk'ibiribwa cyangwa imiti.

Ni abantu bakeya basobanukiwe n'agakeri dusanga inshuro nyinshi gashushanyije ahantu hapfunyitse ibiribwa byacu haba ku majyane haba ku ikawa kariya gakeri rero kavuga yuko ibyo biribwa biba byatanzwe mu buryo bitabangamiye ibidukikije kubera ko ahantu igikeri kihuse hari ahantu haba hari ubuzima bwiza ahantu habi ntabwo igikeri nacyo kihaba.

Igikakarubamba usanga ari igihingwa cyatejwe imbere cyane mu bindi bihugu, wakerekana mu buryo bunyuranye mu macupa matoya ameze nk'amwe bashyiramo ibinini kwa muganga ndetse hari n'andi macupa aba angana na yayandi abagore baguriramo amavuta.

Shapo mu kinyarwanda no mu banyarwanda twishyizemo ko ari umuti bashyira mu musatsi ntumbaze icyo umara kuko ntarawukoresha ariko iyo wi hiyongereho ijambo alovera jojoba bivuga y'uko uwo muti ukozwe uhereye ku gikakarubamba.

Uyu ni umuti w’amenyo, ariko kugira ngo usome ibyanditseho, urawucukura, nibwo ubona yuko amagambo yanditseho, n’ubwo ari mu Cyongereza, yemezaje yuko uyu muti w’amenyo ukoze mu gikakarubamba.

Ipapayi ni igihingwa, ariko ni n'urubuto rufatiye runini umubiri wacu, usibye ama vitamin ndetse n'ibindi bintu bitunga umubiri binyuranye, n'iyo ubiriye ushira inyota, ipapayi turiya tubuto dutoya dushobora kuvura inzoka, n'ubwo ari umukara bwose uraduhekenya ukatwihanganira ariko ugakira.

Nayo ni amavuta amavuta ashingiye ku gikakakarubamba, ariko iyo bongeyemo poropolisi haba harimwo n'ibyo twita ibishashara, uyu ibishashara rero iyo bihuye n'igikakarubamba bivamo amavuta y'ingirakamaro cyane.

Abantu birukira muri farumasi bajya gushakirayo imiti, bakirengagiza ko ibimera bihatse imiti ya mbere muri rusange ko ndetse n'iri muri farumasi iba yaravuye muri ibyo bimera, abantu barushaho kugira ubuzima bwiza bagiye bivuza ibiti n'imiti ya gakondo.

Amafoto ni ane, ariko arasobanura ibintu binyuranye, imwe irerekana ibintu biri mu isanzure, aho ubona ibiti, ubutaka ndetse n'amazi, ariko ifoto imwe ni yo yihariye yerekana umuntu uri kugenda.

Ubuvuzi bwa gakondo bumaze gutera intambwe igaragara kugeza n'aho uvuye ku byatsi n'ibindi bitabirano abantu bajyaga bisunga, uyu munsi ushobora kubona imiti ya gakondo iri mu macupa meza ameze nk'avuye mu ruganda.

Forever hand sanitizer yarakoreshejwe cyane mu gihe cya Covid, ariko aka gacupa umuntu yakagendanaga mu gakapu n'aho ikinini akaba yagishyira ku meza kugira ngo abantu benshi bagikoreshe.

Bret tufuger ni umuti w'amenyo umenyerewe kandi ukomoka ku gikarubanda ntabwo ugaragara mu mafarumasi menshi ariko amafarumasi awutanga yambwiye yuko abakiriya bawukunda sinzi impamvu rero no mu yandi mafarumasi batarawuhageza ngo buri wese uwushaka awubone.

Agacupa gatoya k'igitare, karimwo ibinini byitwa foreva fokasi. Ibyo binini biragaragara, na byo biri mu gafuniko k'igitare. Kuri ako gacupa, hari akatsi ka kapusine. Itangazo rirerekana yuko, uwo muti ari ingirakamaro kugira ngo, umuntu arusheho, gukora ashyize umutima ku byo akora, kandi ubwonko bwe burusheho kureba neza.

Ambarage ni ikintutu kinini mu gucuruza. Iyo igicuruzwa cyawe kiririmo muri ambarage nziza, ubundi ambarage mu magambo yandi y'ikinyarwanda ni igifuniko, ariko wongeyeho yuko n'icupa ari igifuniko bituma n'ikiri muri iyo ambaralge kigira agaciro. Urebye ibyo tureba hano n'inyuguti uko zanditse wahita wibuka ko uwashushanyije iyi ambaraje ari umuhanga cyane.

Mu bihingwa binyuranye bifitiye umubiri wacu akamaro harimo igikakarubamba, ariko uzazenguruke u Rwanda rwose, ntago uzabona umurima wagenewe icyo gihingwa, yewe n'imiti cyangwa se ibindi byose bikomoka ku gikakarubamba dukoresha, biza bipfunyitse mu macupa, cyangwa mu ducupa dutoya.

Isumo ry'amazi buri gihe, ni kimwe mu bintu biranga hantu ba mukerarugendo bitabira. Ariko noneho ibi bisumo ni akarusho kuko rirahanitse cyane, amazi aramanukana ingufu. Ni yo mpamvu bano bantu batangaye.

Ni byiza kubona ko hari abatekereza ko n'ubusanzwe imiti myinshi irimo ama vitamine aturuka mu mbuto zinyuranye, babigize neza rero batwereka amakarito arimwo iyo miti ariko iruhande rwa yo bayegereza imbuto nk'inanasi n'imineke.

Igiti kinini cy'inganzamarumbu gifite amashami akomeje gukura ajya hejuru, gifite ibibabi byinshi. Kuri uwo musozi biragaragara yuko hari ishyamba, ariko kizwiho kuba gitanga ubuvuzi bwa gakondo.

Sitaribake ni kampani y'Abanyamerika izobereye mu bucuruzi bw'ikawa, ikirango cyayo ukibwirwa n'umugore uri mu ibara ry'icyatsi kandi ku mutwe we hari inyenyeri, Sitaribake ku isi ni we mucuruzi wa mbere mu gucuruza ibintu bijyanye n'ikawa.

Ibihobo birimo ingemwe z'imiravumba. Hirya kure urahabona na pepennyeri isakaye, harimo n'abandi bakozi nanone bari kugemura imiravumba. Ikirere kiracyeye, izuba ni ryinshi.

Uru ni urumogi. Ntimumbaze ngo nabimenye nte uwabirebera kure yagira ngo ni ibibabi by'isombe. Urumogi ni kimwe mu bihingwa biba mu Rwanda ariko bihingwa n'abantu bihishe kuko kugeza none urumogi rubarirwa mu biyobyabwenge ntihingwa n'ubuyobozi uwo babonanye wese baramuhana by'intangarugero.

Ubuvuzi bwa gakondo bwashoboye gufata umuravumba burawumisha, burawusya, buwugira ifu, buwushyira mu icupa, ubu ushobora gukoreshwa nk'uko wakoresha urusenda. Ibi ni ibikwereka yuko ubuvuzi bwa gakondo hari ababwitayeho kandi bumva yuko, hari aho babuvana bakabuteza intambwe igaragara mu buvuzi bwacu.

Umumaro w'iki giti nawe wawibwira, reba ko muri iyo mbuga nta kindi giti kihasigaye, hagati y'amazu kirakururumbye kiratoshye byerekana ko abagisize bari bagifitiye ibyiringiro yuko kizakomeza kubabera umuti gakondo, baragisoroma rero bakivura.

Mpora nibaza impamvu Abanyamerika n'abandi bamamaza igikakarubamba, bakomeza kucyitirira kuba umuti wa gakondo. Biragaragara nkuko n'ibindi biribwa tubona n'indi miti tubona iba yanyuze mu nganda, n'igikakarubamba na cyo bakinyuzamo bakagipfunyika mu dukarito twabugenewe ndetse no mu mashashi yabugenewe.

Amafoto atandatu abangikanye kandi yerekana indabyo, hari kurukuta rw'igitare, indabyo zimwe ziratukura izindi n'umuhondo ndetse biranagaragara yuko harimo n'izindi zijya gusa isine.

Ibiti bimwe na bimwe ntibibura gutoha no gusagamba, ariko wakebuka imbuto ukazibura, ubuzima bwacu ahari nabwo niko buteye, bushobora kuba burebure, bushobora kuba ubwo buri wese yakwifuza kuko twarambye, ariko umumaro wacu ukawubura.

Nkomeje kwibaza niba igikakarubamba, ndetse n'ibikomoka ku gikakarubamba, ari byo byonyine bigize ubuzima gakondo. Kuki bibagiwe n'indi miti yose, abantu mu bihe binyuranye bagiye bakoresha, ariko buri gihe ugasanga igikakarubamba, nicyo gishyizwe imbere.

Uducupa twinshi dutandukanye tutangana kandi ubona yuko ibirimo atari bimwe turi ku meza ahantu hamwe, ni ububiko bw'imiti, ni ikigaragaza yuko imiti y'ingenzi ikorwa n'uruganda rumwe hano rushingiye ku gikakarubamba.

Ni agasekuru gato cyane ariko ubwiza bwako karahebuje, gakozwe mu isarabwayi nawe byundi. Ibaze gufata ibuye ukarigegena, ukariringaniza, ukarifukura, ukarishyiramo umuhini na wo umeze nk'ibuye. Kandi n'ubwako ako gasekuru ari ibuye.

Imiti gakondo ishobora guterwa mu mavaze kandi ikaba imirimbo nkuko indabyo zimeze. Nk'igikakarubamba, umwenya n'ibiti bimwe na bimwe cyangwa ibyatsi dushyira mu cyayi. Nabyo buriya bifite uruhare ku imiti kandi bikaba n'ibinyobwa dukunda cyane.

Amagambo yo kwa muganga Abanyarwanda tuyumva kwinshi, iyo babuze serumu tuba twumva ikibasha gufasha umuntu ugeze mu bubabare bwo hejuru kugarura ubuyanja ariko noneho urebeye hafi aha serumu ni amavuta yo kwisiga.

Hateguwe umwenya ushyirwa mu isekuru, muri iyo sekuru harimowo agahini gatoya ndetse n'iruhande rw'ako gasekuru urahabona uducupa tubiri, kamwe karapfunduye harimo amavuta ameze nk'ubuto kuko biragaragara mu ibara ry'umuhondo.

Amatasi abiri arimo icyayi cy'umwenya niyo yonyine nywa nkumva rwose ndishimye kandi nyuzwe n'icyayi, umwenya utuma icyayi gihumura neza ndetse buriya ushobora no kuba warwanya indwara ya giripe uzumva ufite indwara ya giripe jya ugenda ufate umwenya ushyire mu mazi ashyushye, ushyiremo n'indimu, ushyiremo n'amajyane.

Imiti ya gakondo ntabwo tuyibona mu mashyamba gusa, dushobora no kuyivanayo ari ingemwe ntoya tukayishyira mu bikari byacu noneho twajya kwibura tukayikura hafi, murebabe se ukuntu urwo rugemwe ruteye, none se uruteye mu rugo rwawe rwakwanga gukura.

Amavuta yo kwisiga ushobora kuyasanga mu dukebe dutoya no mu ducupa dutoya, umumaro wayo ni ukurinda umubiri wacu ukumirana, atuma abantu barushaho kuba beza, kandi koko agira n'ama vitamin amwe namwe asigira uruhu rwacu.

Igiti kimwe si ishyamba, Abanyarwanda baciye uwo mugani, iki giti niyo cyaba kiza gute kikagira imbuto zihagije ariko ari cyo kimwe cyonyine nta mumaro wacyo ugaragara, ibindi biti biri iruhande rwacyo ni bikeya ariko iyo kiba kingana kuriya hari n'ibindi bigikurikiye bikigwa mu ntege umusaruro wari kuba ari mwinshi.

Kapusine ni akatsi gatangaje, abantu barakareba bakabona ari akanyantege nkeya ariko buraya gahatsi amagara yacu, kapusine ushobora kuyifata ukayishyira kuri salade ukayirya wumva utubabi twayo turyoshye dufite umunyunyu kandi kapusine na none igihe inkoko zirwaye mu rugo ushobora kuzigaburira zikakira inkorora, kapusine usibye kuba zivura inkorora n'icyatsi amatungo yo mu rugo akunda kurya akishima.